Abantu benshi cyane bari mu nama bigaragara ko bari bahurijwe hamwe, bari kwigishwa ku bigendanye n'ubuzima bwa muntu. Ndetse n'indwara zitandukanye zigenda zibwugariza muri iki gihe.

Abaganga batatu bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'amataburiya, babiri bambaye amataburiya asa y'ubururu, undi umwe yambaye itaburiya y'umweru, ubona ko bafite ibikarito bari kwifotoza.

Umusaza yicaye ku ijerekani, mu by'ukuri ubona ko ari kwisekera, yambaye ipantaro y'umukara, n'umukandara w'umukara, n'ishati irimo uturongo dutambitse ariko ubona yiganjemo amabara y'umweru, ari ku mugezi ategereje amazi meza.

Agashushanyo gashushanyije ubona ko ari ikirango, icyo kirango kikaba gifite amagambo y'icyongereza agaragaza georgia, ndetse nandi magambo agaragaza ko ari ubuzima bwisi yose muri rusange.

Abantu baricaye, bari mu nama, urabona ko bagiye bicaye buri bose imbere yabo hari ameza, ameza ateretseho amazi yo kunywa ndetse ari imbere yo ariho n'amakaye yo kwandikiraho, hariho n'umuntu ufite ikaramu.

Abaganga babiri, umwe afashe ukuboko k'umurwayi, umurwayi ni igitsina gore ariko wagira ngo ni umwana nubwo ateze ibitambaro ariko buriya ni uko yarwaye akananuka, ibyo ntabwo twabitindaho.

Gukaraba intoki ni byiza cyane. Ariko se wakaraba nta n'isabune ukoresheje? Oya ntago waba ukarabye neza. Mu by'ukuri amazi wayakaraba agakuraho umwanda ariko ntago yakica mikorobe. Ni byiza gukoresha n'isabune rero.

Imbaga nyamwinshi y'abayobozi bakomeye ku rwego rw'isi, muri Afurika ndetse n'i Burayi bahuriye hamwe mu nama, aho bari bari kwiga ku bibazo byinshi byugarije ubuzima bwa muntu n'indwara zitandukanye zirimo n'iz'ibyorezo.

Imbonerahamwe ishushanyije, igaragaza uburyo ubuzima bwo mu mutwe buba buhagaze, bitewe n'aho bari kugereranya. Urugero bashobora gufata ku rwego rw'Isi, cyangwa se ku rwego rw'igihugu, cyangwa se ku rwego rw'umugabane.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye hamwe mu nama barimo abagore, abagabo, abazungu ndetse n'abirabura biganjemo abambaye imyenda y'umweru hejuru, ubona ko bari bari mu gikorwa kimwe cy'amahugurwa cyangwa inama yigaga ku bibazo by'ubuzima mu Rwanda.

Intoki ziri gukaraba amazi meza yo kuri robine, mu by'ukuri bigaragara ko batwigisha gukaraba amazi meza ndetse tukabasha kwiyitaho kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umuryango w'abibumbye wita ku buzima bw'abana batoya, ukaba ari umuryango ushishikariza leta ndetse n'ibihugu byose muri rusange, kwirinda ndetse no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana.

Inyubako nziza cyane kandi igezweho bigaragara ko ari inyubako yo kwa muganga cyangwa se ikorerwamo ikanatangirwamo serivisi zbuvuzi, ni inyubako ishakakaje amabati y'umutuku ikaba ifite amarangi y'mweru.

Umuryango w'abibumbye wita ku buzima. Ni umuryango bari kutugaragariza mu magambo y'icyongereza awusobanura ndetse bakatwereka n'ikintu kimeze nk'ikirangantego cyawo, kirimo inzoka yizingazingiye ku giti ndetse hakaba hariho n'ikindi kintu cy'uruziga kizengurutswe n'utuntu tumeze nk'utwatsi dusobekeranyije.

Umubyeyi ukuze, ubonako yambaye ikanzu irimo utuntu tw'uturabyo dushushanyijeho turi mu ibara ry'irose, akaba ateze nk'igitambaro cyiza cyane cy'umuhondo, yicaranye n'undi mubyeyi ubona ko we akiri muto, inyuma yabo haratatse neza n'ibitambaro by'ubururu.

Umujyanama w'ubuzima agira inama abantu bari hafi gushinga urugo, mbese abanga batwita amakupule, akabagira inama uburyo bazubaka urugo rwabo nta makimbirane ndetse nta n'indwara.

Umwana mutoya, ari gukaraba amazi. Ariko mu by'ukuri ayo mazi, ari guturuka muri robine. Inyuma y'uwo mwana hari ibyatsi, ndetse n'ibihuru. Bigaragara ko iyi rubine, iri ahantu hatizewe.

Abantu benshi bahuriye ku mugezi baje kuvoma amazi meza kugirango bajye kuyakoresha, hari abana benshi bari gushungera bigaragara ko bari guhengereza undi mwana uri gupomba amazi kugira ngo aze.

Intoki z'umuntu uri gukaraba amazi akaba ari kuva mu kintu cy'ubururu ndetse hirya hateretse isabune irambitse ku kintu kimeze nk'umupfundikizo. Mu by'ukuri ni byiza gukaraba amazi meza n'isabune kuko biturinda umwanda ugiye utandukanye waduteza ibyago birimo nk'indwara.

SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanye. Ayo ni amagambo yanditse ku gapapuro kamanitse ku gikuta, imbere yaho hicaye abantu babiri. Umwe ni umugabo, undi ni umugore. Umwe bisa nkaho ari umuganga, undi akaba ari umuturage usanzwe. Bakaba badushishikariza kwirinda SIDA.

Abaganga barimo abagore, abagabo ndetse abenshi bambaye amataburiya y'umweru bambaye n'amakarita y'akazi mu ijosi ndetse aya tuzi nk'amabaji, bakaba bafashe ifoto nyuma yo gukora inama.

Igishushanyo kiriho umubumbe w'isi, muri uwo mubumbe mo imbere harimo umubyeyi ushushanyije uteruye akana wakazamuye hejuru, ari kukareba bigaragara ko ari kugakinisha.

Umubyeyi wambaye agapira karimo uturongo dutambitse ako gapira abantu benshi bakaba bakazi kuko kakorewe mu rwanda, ari kuvoma amazi kuri robine, inyuma ye hari ibihuru hakurya hari ishyamba.

Inyubako nziza cyane ubona ko ifite ikintu hejuru kimeze nk'ikigega ariko icyo kigega kikaba kiri mu muzenguruko kandi uwo muzenguruko ukaba ufite ibyuma bigiye bitambitseho, inyuma yaho hari inyubako ubona ko harimo n'inyubako igeretse ariko akaba ari inyubako isanzwe.

Ihuriro ry'abaganga bagiye batandukanye, bahuriye mu nama yo ku rwego Mpuzamahanga, yari iri kwiga ku bibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye ndetse n'indwara zitandukanye.

Inyubako nziza cyane ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho ndetse ikaba ifite utuyira tugenda tujya ahantu hagiye hatandukanye bitewe n'ikihakorerwa, hari akajaride keza karimo utwatsi tw'urucaca.

Umubyeyi ubona ko yasetse yishimye akaba yiyambariye akagofero mu mutwe gafite ibara ry'ivu ndetse hari kugaragara agasatsi gakeya k'imbere, ahagaze kuri kdagira ukarabe ari gukaraba amazi meza bigaragara ko avuye mu bwiherero.

Icyapa gishushanyijeho amagambo. Ayo magambo yanditse ahantu hari mu ibara ry'umweru ariko yo yanditse mu ibara ry'ubururu, iruhande hari umugabo, uwo mugabo akaba yambaye amarinete, ni ifoto ye bashyizeho mu by'ukuri bari kutwereka uburyo tugomba kwitabira gufata urukingo rwa kanseri zitandukanye.

Umwana wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, ari kuvoma amazi mu kavido ubona ko ari amazi meza yaje kuvoma ku ivomero rusange. Inyuma ye hari undi mwana na we uri gutega amazi mu ijerekani. Hari n'umukecuru uteze igitambaro hirya yabo.

Ni byiza cyane, ni iby'agaciro ko twese abo mu Majyaruguru, duhagurukira hamwe tukita ku buzima ndetse ubu buzima, bukaba ari ubuzima bw'abantu bose ntago ari mu Majyaruguru gusa.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu beza cyane bafasha abaturage kuko ari bo baba begereye. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane kuko bituma indwara zigaragara hakiri kare ndetse bakagira inama abaturage mu bigendanye n'isuku.

Umubyeyi uteruye umwana ari kumusimbiza ubona ko amwishimiye n'ubwo uwo mubyeyi yambaye agapfukamunwa, yambaye n'iherena ku gutwi, yambaye n'umwenda urimo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara. Hirya ye hari umugabo na we uteruye akana. Na we ubona ko arimo aragakinisha.

Inyubako nziza cyane yubatse ndetse ubona ko bafatiye ifoto hejuru yayo hari ikintu cy'igizeru kimeze nk'ikigega cyubatswe n'ibyuma ndetse hakurya hakaba hari kugaragara izindi nyubako z'abaturage batuyemo.

Umwana mutoya wambaye akantu gatukura, ubona ko asa nk'uwishimye rwose. Ari gutega intoki ze kuri robine, ndetse iyo robine ikaba iri kuzana amazi meza. Inyuma ya robine hari ibimeze nk'ibyatsi, ibyo byatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

inyubako ifite ibyuma bizengurutse ndetse bikoze ikimeze nk'uruziga bikaba byose ari ibyuma cya fera beto.

Abana bari ku mugezi baje kuvoma amazi meza, gusa biragoye kubera ko umugezi baje kuvomaho ni wa wundi ukura amazi hasi ikuzimu. Bakaba bari gupomba kugira ngo barebe ko bakuzuza ibivomesho byabo.

Abantu benshi cyane ubonana ko baje, bakaba bari kureba akana. Ako kana bakaryamishije mu kintu kimeze nk'ikarito gusa ndabona bishimye. Ubusanzwe umwana uryamishijwe mu ikarito, aba yapfuye ariko aha ho bisa nk'aho hari ibyo bari kugakorera kuko barishimye kandi nta muntu wapfa ngo bishime.

Umuryango w'abibumbye wita ku bana unicef, ushishikariza abantu bose kwita ku mwana uwo ari we wese batarobanuye, yaba abafite ubumuga cyangwa se ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Igihe cyose tugiye kurya. Dusabwa kurira ku masahani yogeje neza ndetse yumutse, atajejeta amazi. Mu by'ukuri amasahani yo mu cyaro arozwa, akanikwa ku gatara. Ni ibiti bubaka mu buryo bumeze nk'ikiraro. Bakabyanikaho ayo masahani.

Umwana ari gusuhuzanya n'umugabo, uwo mugabo yambaye umupira ubona ko ari umupira w'abakangurambaga, mu by'ukuri biragaragara ko habayeho ubukangurambaga bwo gushishikariza ababyeyi kwita ku bana babo, kuko hari n'abaturage inyuma bateranye bicaye.

Ubukangurambaga, bugiye butandukanye, bukunze gukorwa kugira ngo bashishikarize ababyeyi kwita ku bana babo, babaha indyo yuzuye, niyo mpamvu rimwe na rimwe polisi y'igihugu, inzego z'ubuyobozi bw'ibanze n'abandi bagiye batandukanye, bajya mu midugudu, hanyuma bagakora igikorwa kiza cyo kwereka ababyeyi uko, abana bagaburirwa indyo yuzuye.

Umwana mutoya uri gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, akaba ari kubikorera ku mugezi, mu by'ukuri ni byiza cyane gutoza abana batoya gukaraba bakoresheje amazi meza n'isabune kuko bituma bagira ubuzima bwiza.

Umwana ari ku mugezi, ari kunywa amazi ayitera mu maso ndetse ubona ko ari kuyakinisha ndetse akaba ari no kuyanywa.

Ihuriro ry'abantu batandukanye barimo, abagabo, abagore, abasore, ndetse n'inkumi. bose bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umutuku, icyatsi, ndetse n'ubururu. Ubona ko bose bafashe ifoto, bamaze gukora inama.

Abantu bambaye imyenda isa b'urubyiruko, bari mu cyapa ndetse icyo cyapa kikaba kibazengurutse, kiri mu bwoko bwa mpande enye, kikaba cyanditseho n'amagambo y'umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku bana.

Inyubako nziza cyane ubona ko ifite ahantu habugenewe hakorerwa inama, hahuriye abantu benshi batandukanye, ubona ko harimo umwe wahagurutse uri gutanga igitekerezo, abandi nabo bari kureba imbere barakurikiye, harimo n'uri kwandika ibyo bari kuvuga w'umugabo, iyi nama yigaga ku bintu by'ubuzima.

Akajambo k'Icyongereza kagaragaza ko ibyo mwasabye muri sisitemu y'ikoranabuhanga bitaratungana cyangwa se ayo makuru akigwaho na mudasobwa.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bagiye batandukanye barimo abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, haba iz'umutekano, iz'ubuzima ndetse n'iz'ubuyobozi bwite bwa leta, bose bakaba bahuriye ahantu ubona ko bicaye mu itente hari umuntu uri imbere yabo uri kubaganiriza, ari kubaha imbwirwaruhame akoresheje mikorofone.

Mu by'ukuri hari ubukangurambaga, ubwo bukangurambaga bukaba buvuga ngo twirinde kandi turandure Kanseri y'ibere, iyo ni Kanseri mbi cyane. Ayo ni amagambo y'Icyongereza yanditse abigaragaza, bigaragaza ko ari ubukangurambaga bwakorewe mu Rwanda.

Umuganga uhagaze, imbere ye ku meza hakaba hateretse imashini yo mu bwoko bwa HP ndetse akaba afite urupapuro ari gusoma risite y'abantu ndetse iruhande rwe hari undi muganga nawe uri kureba ku mpapuro, imbere yabo hari abantu babiri bategereje serivisi.

Abana benshi ubona y'uko ari abanyeshuri biga mu mashuri abanza kuko bambaye impuzankano ndetse inyuma yabo hari abantu barimo n'abazungu babiri n'abandi birabura barimo n'abagore babiri, ubona ko bazamuye ibiganza hejuru n'abana na bo bazamuye ibiganza hejuru, hari ibyo bari kwiga.

Umwana ari kunywa amazi ku mugezi, bigaragara yuko aya mazi ari meza nubwo adatetse, si byiza kunywa amazi adatetse kuko yagutera indwara.

Umubyeyi wambaye igitenge akaba ateze igitambaro, yikoreye indobo irimo amazi iyo ndobo iratukura ariko atwaye n'indi mu ntoki avuye kuvoma amazi meza ngo ajye gufura imyenda ye.

Muganga ari gukata ibinini, agiye kubiha umurwayi yambaye uturindantoki tw'ubururu. Mu by'ukuri ni byiza cyane ko igihe cyose umuganga agiye kuvura umurwayi yambara uturindantoki, kuko bituma nawe atanduzwa n'umurwayi.

Umwana wambaye iniforume cyangwa se impuzankano ubona ko ari umunyeshuri. Ari munsi y'igiti cy'inganzamarumbo, ubona ko ari gukaraba kuri kandagira ukarabe. Amazi ari gukaraba, ari kugwa mu kintu kimeze nk'igisafuriya.

Abantu bicaye bari ku meza, ayo meza akaba adekoye neza cyane n'igitambaro cy'umukara, inyuma yabo hari amarido abakingirije ndetse umugore umwe afite indangururamajwi ari kuvuga, iruhande rwe hari umugabo ufite kompiyuta ndetse ubona ko bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Abaganga bo muri Afurika ndetse n'abo mu Rwanda muri rusange, bamaze kugera ku rwego rwiza ku buryo usanga bazi gusuzuma neza no kuvura abarwayi gusa rimwe na rimwe bakenera amahugurwa, bahabwa n'abazungu cyangwa se abera. Niyo mpamvu bafashe ifoto nyuma yo gufata amahugurwa.

Umuryango ubona ko wishimye, ni umuryango urimo umugabo w'umwirabura wambaye ikote ryiza cyane wegeranye n'undi mugore we na we w'umwirabura, iruhande rwabo hari umuryango w'utwana ubona ko ari utuzungu.

Imodoka nini cyane, ya yindi twita rukururana. Ikaba yanditseho amagambo. Ayo magambo yanditse ku kintu cy'icyapa cyometse kuri iyo modoka, kandi ayo magambo agaragaza umuryango w'abibumbye ushinzwe gutanga ibiryo cyangwa se kwita ku biryo.

Abantu b'ababyeyi babiri bafite akana bazanye kwa muganga, muganga akaba arimo akitaho, ari kureba ikibazo gafite. Uwo muganga afite ikayi n'ikaramu, ari kujya yandika ibyo abonye.

Umubyeyi wikoreye ijerekani y'umuhondo ipfundikijwe umupfundikizo w'umutuku ndetse imbere hakaba hari umwana umwe w'umuhungu wunamye n'undi mwana w'umukobwa wifashe ku munwa.

Abantu benshi bahuriye ku mugezi, bari kuvoma amazi. Gusa igitangaje hari ijerekani imwe iri kujyamo amazi, ndetse n'akavido kamwe karindwi bigaragara ko gategereje kujyamo amazi. Wakwibaza uti,''aba bantu bose baratwara ibivomesho bibiri gusa?''

Umugabo bigaragara ko ari umujyanama w'ubuzima, yambaye itaburiya y'ubururu bwerurutse, iyo taburiya ifite ibipesu by'umweru ndetse iruhande rwe hahagaze umubyeyi ukenyeye igitenge, wambaye n'agapira k'umweru, ufite umusatsi mwiza uyu nguyu usanzwe udasutse, uwo mugabo afite igipapuro gishushanyijeho utwana tubiri, agahungu n'agakobwa.

Amacupa abiri atatu akaba ari amacupa maremare acometseho ibyuma, aya ngaya yifashishwa kwa muganga igihe hari umurwayi ukeneye umwuka ubundi tuyita bomboni.

Abamama babiri bambaye imyenda yenda gusa, bari gukaraba cyangwa se umwe ari kunywa amazi ndetse hateretse amajerekani abiri, aho ni kuri robine ndetse inyuma yabo hari undi muntu wambaye agapfukamunwa n'imyenda itukura akaba ari inyuma ari kubareba.

Umwana mutoya ari kuri robine, ari koza indobo y'umweru, hirya imbere ye, hari izindi ndobo ebyiri. Na zo zitegereje kozwa.

Umwana ari kuri robine, ari gukaraba amazi meza, ndetse akaba yaje no kuvoma kuko iruhande rwe hari amajerekani abiri y'umuhondo n'indi imwe y'ubururu ipfundikijwe umupfundikizo utukura.

Inama yabereye ahantu mu cyumba kiberamo inama kizwi nka salle y'inama. Yahujemo abantu bagiye batandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bigaga ku bibazo by'ubuzima.

Abana benshi bose bari kunywa amazi, gusa bari kuyanywa ahantu kuri robine, ubona ko bari kuyanywesha intoki, ariko inyuma yabo ari ibihuru cyangwa se ibyatsi bifite ibara ry'ubururu, nako ibara ry'icyatsi kibisi.

Umwana mutoya wambaye inifomo akaba ari gukaraba kuri kandagira ukarabe ndetse hateretse ibasi iri mu mabara y'umuhondo bigaragara yuko batojwe gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune aba bana bose biga kuri iki kigo.

Ababyeyi batatu baricaye, imbere yabo hari umuganga. Umubyeyi umwe yateze ukuboko, muganga yamuziritseho ikintu, ndetse icyo kintu bigaragara ko gifite uburyo ari icy'ikoranabuhanga kuko muganga arimo arareba mu kimeze nka terefone kandi ubona ko gifatanye n'icyo kintu yamuziritseho. Ari kumupima.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru ndetse yambaye n'ikarita y'akazi izwi nk'ibaji, ku meza imbere hateretse ibikarito byinshi ndetse hari umuntu ufite ibimeze nk'ibinini, bisa nk'aho agiye kubihereza muganga. Muganga na we ari gusuzuma umurwayi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu yateranye ubona ko hari ibyo barimo cyangwa se hari ubukangurambaga bari gutanga, gusa ubwo ari bwo bwose bugendanye n'ubuzima. Gusa imbere hari umuntu w'umugore upfukamye uri kureba hasi, ndetse hari n'undi mugabo wambaye ibyamvagara ibyenda byacikaguritse ufite indangururamajwi.

Umuganga yambaye akantu k'umugozi, yakambaye mu matwi noneho yagacometse urundi ruhande ku mutima w'umwana mutoya, ahari ari kumva uko utera urabona ko hari n'umubyeyi ari we nyina w'uwo mwana.

Abantu bigaragara ko ari abaganga cyangwa ari abashinzwe ibigendanye n'ubuzima, bakaba bafatiye ifoto imbere y'inyubako, iyo nyubako isa nk'aho ari ibitaro, bakaba bari bari mu nama yigaga ku bibazo bitandukanye byugarije ubuzima ndetse n'indwara.

Ubuvuzi ni bwiza cyane kandi buteye imbere koko ndetse rimwe na rimwe abazungu cyangwa se abera baza kugira inama abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga. Bakanabahugura ku buryo bushyashya bwo kwita ku barwayi no kubavura.

Umwana uri kuvoma amazi mu gikombe cya nyamaha, ubona y'uko yishimye, sinzi niba agiye kuyanywa, gusa aramutse ayanyweye ashobora kurwara kuko aya mazi n'ubwo ari meza ntabwo atetse.

Umwana mutoya afite ijerekani ari kuvoma amazi yo mu kiyaga, cyangwa mu mugezi utemba niba atari mu gishanga, mu byukuri si byiza gukoresha amazi nk'aya kuko yaguteza indwara.

Umuryango w'abibumbye wita ku buzima bw'abana batoya, ukaba ari umuryango mwiza cyane kuko ushishikariza isi yose muri rusange guhagurukira ubuzima bw'abana.

Abagabo b'ibikwerere ndetse ubona ko bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye, bamwe bambaye amakote y'umukara, amakaruvati, abandi bambaye amatisheti, bazengutsa ameza bari gukora inama, bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye byugarije ubuzima.

Abantu ubona ko ari abakire rwose ari n'abayobozi bakomeye, baricaye imbere ahantu twakita nko ku ruvugiro, ubona ko bose ari abagabo b'ibikwerere n'abakobwa beza n'abagore beza, bageretse akaguru kandi bamwe, bari mu nama yiga ku buzima.

Umusaza ugeze mu za bukuru yaje kwivomera amazi, ariko wagirango ngo yayabuze kubera ko yiyicariye ku ijerekani hejuru kuri robine nta mazi ari kuza, inyuma ye hari ibyatsi byiza bitoshye hari n'inyubako.

Umubyeyi ari kuvoma amazi meza ari guturuka muri robine y'ipombo, hari ababyeyi babiri barimo baramupombera kugira ngo abone uko avoma ndetse nawe nasoza ari bugende abafashe gupomba nabo bacyure amazi meza.

Abana bagera muri batatu, bari iruhande rwa robine, babiri bari kurebera, undi ari inyuma ari gupomba amazi. Hari undi wa kane uri hino gatoya, wambaye bote n'umupira utukura afite n'agakoni, imbere ye hari urukweto rwa bodaboda.

Umuganga ari gutera urushinge ndetse ubona ko umuntu ari kurutera yazinze umwambaro yari yambaye, kugira ngo babone uko barumutera. Umuganga na we yambaye uturindantoki.

Inama yahuje abantu benshi cyane bashinzwe kwita ku buzima ndetse n'abandi bikorera, bigaragara ko bashishikarizwaga gushora imari mu bigendanye n'ubuzima.

Abana b'abahungu baje kuvoma amazi kuri robine ndetse ayo mazi bigaragara ko ari meza ariko kuyabona bisaba ingufu kuko bisaba ko umwe ajya inyuma maze agapomba.

Umubyeyi ufite akana kari iruhande rwe ndetse ubona ko baje ku ivomero baje kuvoma amazi meza ndetse hari n'abandi bantu baje kuvoma, hateretse ibuni y'umuhondo ipfundikijwe umupfundikizo w'umutuku, hari n'amabasi imwe ari kujyamo amazi.

Umugabo ubona ko ari kuvoma amazi mu gikombe, ariko nari ndebye nabi ntabwo ari umugabo, ahubwo n'umwana muto wambaye ikabutura ndetse n'ishati y'amaboko magufiya ari kuvoma amazi mu gikombe kuri robine iri kuyakura mu kigega.

Ibiganza by'umuntu biteze kuri robine, biri gukaraba intoki, ubona ko biri gukaraba amazi meza, bikaba ari ibintu byiza cyane, twese dukwiye gukaraba amazi meza kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abambaye imyenda y'umweru, umutuku ndetse bafite imisatsi y'imikara bose ubona ko bari mu nama yigaga ku bibazo bitandukanye by'ubuzima.

Ntugire n'umwe usiga inyuma twese dufatanyirize hamwe ndetse yaba abagore, cyangwa se abagabo. Indwara zikeneye kubagwa zikeneye gukorerwa ububazi butandukanye zigomba kuvurwa ku isi hose.

Abantu b'abamama ndetse n'undi bigaragara ko akiri mutoya ariko na we w'igitsina gore, bari guhamiriza bazamuye amaboko hejuru mu kirere, inyuma yabo hari intebe ebyiri z'umweru za parasitike.

Abagabo bambaye amakote y'umukara ndetse na karuvati, bicaye imbere ubona ko bari ahantu ku ruvugiro. Imbere yabo hari abandi bantu benshi barimo abazungu n'abirabura, bakaba bari gukora inama iri kwiga ku buzima bugiye butandukanye.

Umuntu w'umugabo ubona ko ari umupapa urabona ko wagirango ngo izuba ryamwishe bitewe n'ukuntu nari ari kureba, inyuma ye hari abandi bantu benshi ubona ko bari bari munama yigaga ku bibazo byo mu mutwe.

Abagabo, abagore ndetse n'abandi bantu batandukanye, ubona ko ari itsinda ry'abaganga cyangwa se abashinzwe iby'ubuzima bahuriye hamwe bari kuganira ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'indwara zifata ubwonko.

Imbaga nyamwinshi y'abantu biganjemo urubyiruko ndetse ubona ko abenshi bambaye imyenda y'umweru n'umutuku n'umukara, bose bakaba bafite imisatsi myiza cyane hari n'uwambaye amarinete bahuriye mu nama yo kwiga ku buzima bwo mu mutwe.

Umurwayi wo mu mutwe wigunze wiyegamiye ku nzu iyo nzu ikaba iteye irangi iryo rangi rikaba ryarashaje ndetse hasi hakaba hari urubobi nubwo hari amatafari ahasashe.

Ubuzima bwo mu mutwe, burakomeye cyane kandi bukwiye kwitabwaho kuko burya mu mutwe ni ho habera ibintu byose. Nk'uko twese tubizi, ubwonko ni bwo butekereza kandi buba mu mutwe. Ni na bwo bugena imikorere y'umubiri. Igihe rero bufite ibibazo, birumvikana ko muntu na we aba ari nk'aho yapfuye.

Umuntu bigaragara ko ari umujyanama w'ubuzima yaje guhugura ababyeyi uburyo bwo kurera abana babo neza ndetse no kubaha indyo yuzuye. Ari imbere afite ikaramu ari kwandika ndetse ababyeyi barakurikiye kandi bahetse abana babo.

Ni byiza cyane ni iby'agaciro birakwiye ko twese dushyigikira ndetse tugahagurukira uburyo bwose bwashyizweho bwo kurwanya indwara zo mu mutwe.

Abantu bigaragara ko bari mu nama, bakaba ari abagore biganjemo. By'umwihariko hari uri imbere wambaye itaburiya y'umweru. Akaba afite ikaramu mu ntoki, yambaye n'ibaji mu ijosi. Yambaye n'amarinete, afite umusatsi mwiza usutse. Bari kwiga ku kibazo cyo mu mutwe.

Isura y'umuntu urakaye, akaba ari kurira ijisho rimwe, bigaragara ko amarira yashotse akagera ku matama. Mu by'ukuri, uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umukecuru yifashe mu maso, yipfutse ariko afite agatambaro ubona ko wagira ngo ari kwihanagura amarira, Afite ikibazo cyo mu mutwe. Abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe rimwe na rimwe hari igihe bigunga, bakiheba ndetse ubonye ibyo bimenyetso wakihutira kubageza kwa muganga.

Umwana mutoya ari kurya biswi, yicaye ku ntebe bigaragara ko ari ahantu muri class, ni byiza cyane ko abana bafite ibibazo byo mu mutwe na bo bajyanwa ku ishuri.

Abantu ubona ko bavuye mu nama. Cyangwa se mu bukangurambaga. Harimo abapolisi. Ndetse n'abandi baturage, ba rubanda rusanzwe. Mu by'ukuri bari bari mu bukangurambaga, bwo kwirinda indwara zifata mu mutwe.

Umugabo wambaye ishati nziza cyane ubona ko yishimye, ari imbere y'inyubako iyo nyubako na yo ni nziza cyane isize amarange meza, imbere y'iyo nyubako aho uwo muntu ahagaze iruhande rw'ibumoso hari umukindo irw'iburyo hari undi, bigaragara ko ari kutwereka ibintu bigiye bitandukanye byo kwirinda ubuzima bw'indwara zo mu mutwe.

Abantu bishimye benshi cyane, barimo abakecuru, abasaza, inkumi, urubyiruko rugiye rutandukanye, ndetse n'abana batoya, bose bafite utudarapo dutoya tw'igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko baje mu gikorwa runaka cyo kwamamaza, igikorwa gikorerwa mu Rwanda.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kwitabwaho ndetse abarwaye indwara zo mu mutwe bakagirwa inama bakavurwa ndetse bakabasha gukira bagasubira muri sosiyete rusange.

Umupira uciye amaboko wanditseho amagambo y'impine, ndetse ukaba ari umupira ubona ko wambarwa n'abantu bari mu bukangurambaga, bwo gushishikariza abantu kwirinda indwara zo mu mutwe, ndetse no gufata neza ubuzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi bigaragara ko ari umubyeyi ufite ikibazo cyo mu mutwe, bitewe n'uburyo ubona ko afite ibitekerezo biri kure, ndetse akaba asa nk'uwihebye.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane harimo abaganga, abayobozi, abaturage ndetse n'umuryango wa sosiyete civil, bakaba bose baje mu nama yabahuguraga ku bigendanye n'ubuzima bw'amenyo ndetse n'ubwo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se uyunguyu twita umusazi, agira imyitwarire mibi cyane ndetse idahwitse, atoraguriza ibyamvagara ibyenda byacikaguritse nta n'isuka agira aba afite ibisatsi bifite umwanda.

Imbaga nyamwinshi y'abantu biganjemo abambaye imyenda y'umukara, umweru, umutuku ndetse n'inkweto nziza cyane, bafatiye ifoto imbere y'icyapa kinini kirekire kiriho amagambo agaragaza ibyo bari barimo.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ubuzima bukwiye kwitabwaho ndetse bukanahagurukirwa kubera ko umutwe ni wo urimwo ubwonko kandi ubwonko ni bwo butekereza ni bwo bugena imikorere y'umubiri, niyo mpamvu mu Rwanda badushishikariza kwita kuri ubu buzima bwo mu mutwe.

Abana bari guseka bishimye ndetse ubona ko bambaye imyenda isa y'umuhondo, bakaba bari kuganirizwa ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu batandukanye barimo abambaye imipira y'imikara abambaye iy'umweru n'undi umwe wambaye ishati ya buresiyeri bose bari imbere y'ameza, ayo meza ateretseho ibintu bitandukanye birimo metero, igipirizo, ibipapuro n'ibindi bintu by'ibikarito.

Abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bakwiye kwitabwaho, bakagirwa inama bagahabwa ubuvuzi, nyamara usanga hirya no hino umuryango ufite abantu nkaba akenshi ubakingirana mu nzu cyangwa ukabazirika kugira ngo batabacika, aho kubajyana kwa muganga.

Imbaga nyamwinshi y'abantu biganjemo urubyiruko, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, umukara, umutuku ndetse bambaye inkweto nziza cyane ziganjemo amabara y'umukara, ndetse ubonako bafite ikibanderore bafasheho, bari mu bukangurambaga bwo kurwanya indwara zo mu mutwe.

Umuntu bigaragara ko ari umuyobozi ukomeye, ari ahantu mu nyubako, iyo nyubako ikaba iriho ku rukuta risite y'amazina ndende igaragaza abantu b'inzirakarengane bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe, magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Abana ubona yuko bari guseka bishimye kandi bakaba ari abana batoya biga mu mashuri abanza, harimo abiyogoshesheje n'abafite umusatsi. Bose bari kwerekana amenyo yabo, ubona ko bari guseka batishimye, ahubwo nuko bafite ikibazo cyo mu mutwe. Bakaba barashyizwe hamwe kugira ngo bajye baganirizwa.

Icyapa gishushanyijeho abantu babiri bari gusuhuzanya bakoresheje inkokora, umwe ni umuhungu cyangwa se n'uw'igitsina gabo undi ni uw'igitsina gore, hanyuma hari amagambo hino yabo yanditse ari mu ibara ry'umukara, ariko yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ariko bari kudushishikariza gusuhuzanya tudakorana mu biganza.

Buri muntu wese, aho ariho hose, ayo ni amagambo y'icyongereza yanditse ku cyapa bari kutwereka ndetse bikaba bigaragaza ko bose bafite uburenganzira bwo gufata ubuzima bwo mu mutwe bakabufata neza.

Imbaga y'abantu benshi cyane bahuriye mu nama, iyo nama ikaba yigaga ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, yaba indwara zifata mu mutwe cyangwa se n'ubundi buzima busanzwe, bakaba biganjemo abambaye imyenda y'umweru n'ubururu, umuhondo ndetse n'umukara.

Ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe bukwiye guhagurukirwa, kuko usanga hari abantu benshi cyane bafite indwara zo mu mutwe ariko batabimenya niyo mpamvu hari ubukangurambaga bwakozwe bigatuma hashyirwaho uburyo bwo gukoresha imodoka igenda mu turere dutandukanye itanga inama n'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane ifite uruzitiro rukozwe mu byuma, ubona ko yubakishijwe amarangi meza cyane y'umuhondo, ikaba ifite inzugi zisize ibara ry'ubururu, ikaba ifite n'urubaraza rwiza cyane na rwo rusize ibara ry'ubururu n'umweru, ishakaje amabati atukura.

Umubyeyi ateruye umwana. Uwo mwana urabona ko afite nk'imyaka ibiri cyangwa se umwe n'igice. Hari umujyanama w'ubuzima ari kwereka umubyeyi ibipimo amaze gufata umwana.

Abantu babiri umwe ni umugore, undi ni umugabo, bicaye imbere ku ruvugiro umugore afite indangururamajwi ndetse imbere yabo buri wese hateretse icupa ry'amazi riri ku meza. Urabona ko bari mu nama yiga ku buzima.

Umukecuru atetse agakoma, agatekeye he se da, ku musozi, ndetse ubona ko atetse mu gisafuriya kibi, gifite imbyiro, cyabaye umukara, ndetse umufuniko wataratse wigwira hasi, kandi ubungubu wasanga ari buwutoragure agahita apfundikira, ariko bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kurindwa, bukitabwaho ndetse abafite ibibazo bigendanye n'indwara zo mu mutwe bakitabwaho bakaganirizwa ndetse bakavurwa.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, ikaba ari inyubako isize amarangi meza cyane asa n'ivu, hejuru hayo hari kugaragara ikirere gisa ibara ry'ubururu ndetse bikaba bigaragaza ko ari ibitaro bishyashya.

Umusore ufite ubwanwa bukeya n'agasatsi kameze neza, afite isura nziza ariko afite n'amenyo meza cyane y'umweru bigaragarako ayagirira isuku, ni byiza koza amenyo yacu dukoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso.

Inyubako yo kwa muganga irimo intebe nziza cyane izo ntebe zifite amabara y'iroza, ubona ko hejuru hari igishushanyo cy'umuntu wicaye ku ntebe ndetse hasi hari ikimashini gicometseho insinga z'amashanyarazi ubona ko ari ahantu mu isuzumiro.

Umuntu w'umugabo ari gukoresha akadodo asukura amenyo ye. Ari kugenda agacisha hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo umwanda wose ukomoka ku biryo yariye ubashe kuvamo. Ni byiza kugirira amenyo yacu isuku dukoresheje uburyo butandukanye.

Umwana mutoya w'umukobwa ubona ko yishimye cyane, akaba afite uburoso ari kubukoza mu kanwa, bigaragara ko ari koza amenyo ye, akoresheje umuti wabugenewe uzwi nka korogate. Ni byiza gutoza abana batoya gukoresha uburoso ndetse n'umuti wabugenewe boza amenyo yabo.

Muganga yambaye agapfukamunwa, yambaye utuntu tumeze nk'amarinete ku maso, ariko ntabwo ari amarinete, ahubwo ni utuntu twifashishwa mu kureba mu cyuma afite, ari gukoza mu kanwa k'umurwayi, uwo murwayi akaba arwaye amenyo. Bigaragara ko bagiye kuyakura cyangwa se kuyahoma, cyangwa kuyaha ubundi buvuzi.

Umukobwa mwiza cyane wiyambariye agasengeri k'umweru. Akaba afite imisatsi myinshi cyane irambuye. Akaba ari guseka cyangwa se ari kwerekana amenyo. Ariko afite n'uburoso ari gukoza muri ayo menyo ye meza. Bigaragara ko ari kutwigisha gusukura amenyo dukoresheje uburoso n'umuti wabugenewe.

Umuntu bigaragara ko afite isura y'abakobwa, kuko bari kutwereka isura ye gusa n'amenyo yanitse, hari n'akantu afite k'ubururu kaziziritseho urudodo rureze. Akaba ari kugacisha mu menyo akuramo imyanda yagiye ifatamo.

Ni byiza ko igihe cyose ufite ikibazo cy'iryinyo rikurya cyangwa se rirwaye, ugomba kujya kwa muganga byaba ngombwa bakarikuramo. Gusa iyo barikuyemo hasigara igihanga kinini.

Umubyeyi n'umwana we bari kurebana, bose bafite uburoso ndetse ubwo buroso buriho korogate, bari kugorosa amenyo yabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abana barishimye n'abanyeshuri bari mu ishuri bose ubona ko barimo barisekera, bazamuye hejuru korogate bamwe bazamuye n'uburoso, bari kwerekana ko bigishijwe kwita ku menyo bayagirira isuku bakoresheje umuti wabugenewe.

Umuganga ari kureba mu kanwa k'umugabo bigaragara ko akuze, ari kumuvura iryinyo. Ndetse ni byiza cyane rwose, ni iby'agaciro igihe wumva ko hari iryinyo rikurya, kujya kwa muganga.

Muganga yambaye agapfukamunwa ariko ndabeshya, kubera ko ntari kugaragara umunwa, ahubwo yambaye uturindantoki ari kuvura umwana iryinyo yamushyize mu kanwa ikintu kimeze nk'ikiyiko.

Umwana w'umukobwa umaze kurya ibiryo ku ishuri, akaba yambaye impuzankano isa n'iy'undi uri inyuma ye ndetse bose bakaba bafite uburoso bw'amenyo bari koza amenyo yabo bakoresheje ubwo buroso n'umuti wabugenewe.

Umuntu w'umusore yicaye ku ntebe ariko asa nkuri kureba hejuru akoze kuryinyo, hari n'umuganga uri guhinguka ibiganza, akaba afite ikintu kimeze nk'icyifashishwa mu kuvura amenyo bigaragara ko uwo musore afite ikibazo cy'amenyo.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga rigiye ritandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi, ubona ko ari ibikoresho bigezweho, ibi byose bikaba bikoreshwa mu buvuzi bwo mu Rwanda, ikigaragara cyo bumaze gutera imbere.

Umuntu ubona ko ari igitsina gabo, bari kutwereka isura ye mu maso, ariko ari kutwereka amenyo, n'intoki ebyiri zifashe akadodo, ako kadodo gacometse hagati y'amenyo abiri, bigaragara ko kari kwifashishwa mu gusukura amenyo.

Umuntu w'umugabo ubona ko yishimye ari guseka ari kugaragaza amenyo afite agatambaro k'umweru kamwegetseho mu gatuza, yifashe intoki zose yazisobekeranyije, imbere ye hari ahantu bakarabirira ku rukarabiro rwa kizungu.

Umugabo uri kutwereka amenyo meza y'umweru cyane, ubona ko yayagiriye isuku bihagije. Akaba ari umugabo wambaye agapira k'umukara ndetse ufite n'ubwanwa. Bigaragara ko ari kutwigisha kwita ku menyo yacu tuyagirira isuku, tuyoza neza.

Igishushanyo kiriho ibyinyo bishinyitse, bigaragaza ishinya ndetse hari n'urutoki rw'umuganga rwambaye uturindantoki cyangwa se ga, bari kutwereka iryinyo risa nk'irirwaye.

Umuntu bigaragara ko ari umugabo arikoza amenyo ye, ushobora kwibaza uti ari kuyogesha iki? Icyo nagusubiza ni uko atari gukoresha uburoso nk'ibisanzwe ahubwo ari gukoresha akagozi cyangwa se akadodo, kakaba kifashishwa mu gukuramo imyanda yose yafashe hagati y'iryinyo n'irindi.

Umugabo ubona ko ari umugabo ufite amenyo meza cyane yayanitse yayashinyitse ari gukoresha urudodo ayozamo kugira ngo ayagirire isuku.

Umuganga w'umugore afashe ku gikanu cy'akana ndetse hari n'undi muganga w'umugabo wambaye uturindantoki n'itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, akaba afite umusatsi w'umukara, ari kureba mu kanwa k'umwana ndetse ukuboko kumwe kwambaye akarindantoki, kuri gukora mu kanwa k'umwana.

Igihe cyose wumva ugize ikibazo cy'amenyo, ni byiza ko ujya kwa muganga bakagufasha, bakareba ikibazo amenyo yawe yagize, bakamenya niba barayakuramo cyangwa niba baraguha ubundi buvuzi.

Abana b'abanyeshuri bambaye umpuzankano ubona ko buri wese afite igikombe kiririmo amazi mu kuboko kumwe, ukundi kuboko kukaba gufite uburoso, ubona ko bari koza amenyo yabo bakoresheje corogate n'ubwo buroso bafite.

Intebe ziri kwa muganga zigiye zitandukanye aho bakarabira, hasi hari amakaro, hejuru urabona ko harimo amatara menshi cyane ari kwaka, ibi ni ibitaro bigezweho rwose, bifite ukuntu bifasha abarwayi mu buryo bwihariye.

Umusaza wambaye ishati y'umweru, ikaba ari ishati ifite ibipesu, ifite n'ikora ryiza, uwo musaza yambaye n'amarinete, afite umusatsi w'imvi urabona ko asa nk'uri kumwenyura, ateruye akuma karemereye ari gukora utwitozo ngororamubiri, hari umuganga uri kumufasha wambaye imyenda itukura.

Umugabo bigaragara ko akuze, mu by'ukuri akaba ari umusaza ufite n'imvi, yambaye ishati nziza cyane isa n'ikivuzo, ariko ari kwa muganga, muganga ari kumugira inama.

Umusaza ugeze mu za bukuru wambaye ekuteri z'umukara, ndetse yambaye na marinete, afite imvi z'uruyenzi, yambaye umupira w'ubururu bwerurutse busa n'ikirere, akaba afite ibyuma bibiri bingana mu kaboko k'iburyo na k'ibumoso, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abakuze iyo bitaweho mu buryo bugiye butandukanye bituma batekereza neza ndetse ntibihebe n'ubwonko bwabo bugakomeza kuba buri ku murongo, ubu ngubu turabona abakecuru bari kwikinira amakarita kandi amakarita tuzi ko ari umwe mu mikino ifasha abantu gutekereza vuba byihuse.

Abantu batatu, umwe ni umukecuru ukuze cyane, undi ni umusore, undi ni umukobwa. Umukobwa afite imboga ari kuyora, yaziyoresheje imyuko ibiri, akaba agiye kuyishyira ku isahani umusore ateze ndetse bakaba bagiye kugaburira uyu mukecuru indyo yuzuye.

Umusaza wambaye amataratara afite imvi z'uruyenzi, yambaye imipira ibiri igerekeranyije, umwe w'amaboko magufi n'undi wa maboko maremare, ari kwandika mu gitabo cyangwa se mu ikayi. Ubona ko ari ibintu byiza cyane.

Umusaza yifotoranyije n'umukobwa we ubona ko basa, umukobwa we yambaye ikote ry'ikoboyi ndetse rifite agafuka ku ruhande ahagana hejuru, uwo musaza afite imvi z'uruyenzi mu bwanwa no mu mutwe.

Abantu bagera muri bangahe ra? umwe, babiri, batatu ,bane, batanu, batandatu, ubwo ni batandatu, harimo umusaza umwe n'abandi bakiri batoya, bose bari guseka barishimye kuba bari kumwe n'umusaza n'umukecuru.

Abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru bose bahurizwa hamwe, maze bagafashwa gukora uturimo tworoheje, turimo nko kuboha ibyibo, imitako ndetse n'ibindi bitandukanye, ibyo bibafasha gukomeza gutekereza neza, ndetse no kwiyumva muri sosiyete.

Umukecuru n'umusaza barakuze bageze mu za bukuru ba ubona ko bafite imvi, gusa barakundana bari gusoma ibinyamakuru bigiye bitandukanye, hari ibyo bamaze gusoma biri ku ruhande hari n'ikindi bafashe bose bombi buri wese afasheho barimo baragisoma.

Umusaza wambaye amarinete, wambaye agapira k'ubururu bwerurutse, mo imbere hakaba hari n'akandi k'umweru kari guhingutsa umutwe cyangwa se izosi ndetse hakaba inyuma y'umusaza hari ikintu kizamuye hejuru, kimeze nk'igisafuriya giteretse ku kimeze nk'akabati, hari umuganga uri gufasha uyu musaza.

Umukecuru ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umusaza we mu rugo aho batuye, ndetse umukecuru ari guha umuti umusaza, uwo musaza afite ikirahure cy'amazi ari kunywesha imiti bari kumuha.

Abantu bakuze bigishwa gukora uturimo tugiye dutandukanye tutavunanye, kugira ngo bakomeze gutekereza neza ndetse bahuge, mu by'ukuri hari ababoha udutebo, ibyibo ndetse n'iyindi mitako itandukanye.

Umusaza n'umukecuru bose bambaye amataratara bari guseka barebana bishimye, imbere yabo ku meza hari imbuto, imboga, amazi ndetse ubona ko umukecuru we yatangiye no kwirira ku tubuto, kuko yajombye ifoke mu rubuto akaba agiye gutamira, umusaza na we ari kumureba ari gukata utuboga.

Umwana ari gukina na se ubona ko bari gukina umukino wa basiketi. Mu by'ukuri ni byiza gukina n'abana kuko bituma bishima bagakura neza. Abakuze na bo bibafasha gutekereza neza no kwishima.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'ubururu bwerurutse akaba afashe ku musaza, uwo musaza yicaye mu ntebe yahujije amaboko ndetse ayo maboko akaba ari hejuru y'intebe yicayeho.

Umusaza w'imvi ugeze mu zabukuru, bari kumwuhagira mu mutwe bakoresheje amazi meza arimo n'isabune, bigaragara ko atakibasha kwiyitaho.

Umubyeyi ukuze w'umukecuru wambaye umupira w'amaboko ndetse akaba yambaye agashati karimo uturongo tumanutse, aricaye ku ntebe inyuma ye hari umuntu umeze nk'umuganga yamuturutse inyuma amufata amuturutse inyuma.

Umubyeyi ukuze, yicaye ku ntebe, akikijwe n'abana iruhande rwe rw'ibumoso, urw'iburyo, inyumaye, bigaragara ko bishimye bari guseka, ndetse bose bari kwitegereza, wagira ngo bari kureba amakuru cyangwa televiziyo.

Umusaza bigaragara ko ageze mu zabukuru, ari kunywa imiti ari guhabwa na muganga ariko ndabona atari umusaza, ahubwo ni umukecuru.

Umusaza ugeze mu za bukuru ufite imyaka iri hagati ya mirongo itandatu n'itanu na mirongo irindwi n'itanu, ari gufashwa kugenda kuko atabashaga guhaguruka.

Umuntu ugeze mu zabukuru ni byiza ko agaburirwa ibiryo byiganjemo imbuto, imboga ndetse agahabwa n'imitobe. Aha turahabona bimwe mu byo yarya inyanya, pome, urusenda amacunga na dodo.

Umugabo bigaragara ko akiri mutoya afatanye ku rutugu n'undi w'igitsina gabo ariko w'umusaza wambaye ingofero y'urugara, akaba bari kugenda mu gahanda k'amabuye ubona ko bari gutembera.

Umusaza bari kumufasha kugendera mu cyuma gifite ibyuma bine bihagarara, bibiri ku ruhande rw'ibumoso, bibiri ku rw'iburyo ndetse kikaba giteye mu buryo agifataho, ubundi akajya agenda gake gake.

Umusaza yicaye ku gitanda urabona ko hari umuntu w'umuganga ariko akaba ari umuzungu, arimo guhagurutsa uwo musaza, yamufashe mu ntoki amufata no mu mugongo, inyuma hari inzitiramibu iziritse.

Abantu bagera kuri batanu harimo abakecuru babiri n'undi musore n'umukobwa n'akana gatoya, bose barishimye bari guseka urabona ko ari umuryango umwe.

Umuganga w'umugore ufite imisatsi myiza isutse akaba yayifungiye inyuma, ari gufasha umugabo bigaragara ko ari mukuru n'ubwo atari umusaza cyane, akaba ari kumufasha kugenda gake gake, mu byuma bibiri ari kugenda afasheho.

Umusaza ubona ko akuze, afite ubwanwa bw'imvi, afite n'uruhara ariko afite n'umusatsi, ariko uwo umusatsi we nta mvi zirimo, gusa imbere ye ku meza hateretse imashini, ateze ikiganza ubona ko muganga cyangwa se umukobwa uhari, agiye kumuha ibinini byo kunywa kuko hateretse n'amazi ku meza ari bubinyweshe.

Abantu bateraniye mu nama ndetse iyo nama ikaba yari iyo gushikariza abantu bose kwita ku bakuze, kubaganiriza, kubagira inama ndetse no kubafasha mu bintu bigiye bitandukanye.

Umukecuru ufite ikintu cy'icyuma afashe akaba ari kwa muganga ndetse bigaragara ko ari gukora utuntu tw'udusiporo tworoheje kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Abantu babiri, umwe ni umubyeyi undi ni umwana, baricaye imbere yabo hari ameza, umwana afashe ku meza ari kureba utuntu turambitse ku meza twinshi tumeze nk'udukinisho, nyina na we afashe agakinisho kamwe ari ku gasunika, urabona ko bari gukina kandi bishimye.

Bari kutwereka uburyo ushobora gukoresha kugirango wirinde gusama, cyangwa ufata ibinini bikurinda gusama. Bari kutwereka iby'amezi cumi n'abiri ,nako ibyumweru cumi na bibiri, ibyumweru cumi na bitatu, ibyumweru makumyabiri.

Ihuriro ry'abaganga bagiye batandukanye, bahurijwe hamwe bagahabwa amahugurwa. Harimo abazungu n'abirabura ndetse n'abandi bantu batandukanye. Urabona ko hari hari na daso yari ari kubarindira umutekano.

Abantu benshi biganjemo abagabo bambaye amakoti ndetse na karuvati, n'abagore bake bake bose bakaba bari mu nama, ikigaragara cyo bari ahantu heza cyane hari icyumba cyabugenewe cyo gukorerwamo inama, gusa bari bari kwiga ku bibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye.

Abaganga batatu. Umwe ari kwita ku murwayi, undi ari kumurikira uwo nguwo uri kwita ku murwayi. Hari insakazamashusho imanitse aho ngaho, ubona irimo amabara y'ikirere ndetse hari n'umuganga wundi yiyambariye agapfukamunwa, yabateye umugongo ubona ko na we hari ibyo arimo gukurikirana.

Ubuzima bukwiye kwitabwaho, bukigishwa ndetse hagakorwa ubukangurambaga bwo gukangurira abantu kwita ku buzima by'umwihariko twebwe nk'Abanyafurika biratureba cyane.

Amagambo ahinnye y'Icyongereza ari mu nyuguti ya HPR. Bigaragaza ko ari ubuzima bw'abaturage bo mu Rwanda.

Kwirinda kanseri. Ayo ni amagambo y'icyongereza yanditse mu ibara ry'umweru. Munsi yaho hari andi magambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi. Agaragaza ko tugomba gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa kiriho amasura y'abantu bagera muri batanu. Harimo abirabura ndetse n'abazungu. Hakaba handitse amagambo hejuru avuga yo mu cyongereza ariko ngenekereje bari kuvuga ngo ntihagire n'umwe usigara inyuma twese twite ku buzima.

Inama ya kabiri yo ku rwego mpuzamahanga, yabereye muri Afurika ikabera mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Yaganiriwemo byinshi cyane bitandukanye ndetse abantu benshi bo hirya no hino ku isi bari bayitabiriye.

Ihuriro ry'abaganga ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bose bahuriye mu nama yigaga ku bibazo by'ubuzima bugiye butandukanye ndetse ubona ko baganiriye ku ndwara nyinshi ndetse n'ibyorezo byugarije isi yose.

Ubuvuzi ni bwiza cyane kandi tugomba kubwizera kubera ko bufite ireme kandi buteye imbere koko, nta murwayi ukwiye kurembera mu rugo kuko iyo ugiye kwa muganga baragusanasana ukongera ukaba muzima.

Ababyeyi bane, buri mubyeyi ateruye umwana we ndetse bigaragara ko bose baje mu gikorwa cyo kubavuza cyangwa se cyo gusaba inama ku bajyanama b'ubuzima cyangwa abaganga.

Uburyo bwiza bwo kwirinda gusama, harimo nko kunywa ibinini, cyangwa kubara amezi yawe, ibyo bikakurinda kubyara imburagihe cyangwa se kubyara abo udashoboye kurera, cyangwa indahekana, ni byiza cyane kuringaniza urubyaro, kuko bifasha igihugu mu rwego rw'iterambere.

Gabanya korona, hagarika korona, ni amagambo yanditse mu kabara k'umuhondo ariko yo yandikishijwe ibara ry'umweru, munsi hakaba hariho ibiganza biri gukaraba ndetse hakaba hariho abantu bari kuruka, hariho n'abantu bashyizemo metero, bari kutwigisha uburyo twakirinda korona.

Ni byiza ko twikingiza indwara zitandukanye kugira ngo tugire ubudahangarwa bw'umubiri. Mu by'ukuri turabona umumama barimo gutera urushinge, ariko ararutinya kuko yashinyirije.

Rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda irinde virusi itera sida ipimishe uyu munsi, ayo ni amagambo yanditse ku cyapa kinini cyane gifashwe n'abantu bambaye imyenda y'umweru, inyuma yabo hari abandi benshi cyane ubona ko biganjemo urubyiruko bari mu bukangurambaga bwo kurwanya kwirinda sida.

Inama yahuje Abazungu, Abirabura, Abanyafurika ndetse n'abandi baturutse ku migabane igiye itandukanye, bose bakaba baje mu nama yigaga ku bibazo by'ubuzima bugiye butandukanye.

Ni byiza ko abatuye Isi bose bafatanyiriza hamwe, kugira ngo barwanye indwara zitandukanye by'umwihariko icyorezo cya virusi itera SIDA, aho bakirinda barinda abana kuba bacyandura, igihe umubyeyi abyara, cyangwa se binyuze mu bundi buryo bwatuma umwana yandura iki cyorezo.

Igishushanyo cyanditseho igitabo, icyo gitabo kikaba kirimo amagambo y'umukara ndetse ari mu rurimi rutari ikinyarwanda mu by'ukuri bari kugaragaza ibintu byinshi bitandukanye bivugwa ku buzima n'indwara zigiye zitandukanye z'ibyorezo.

Ibihugu byinshi ku isi biterwa inkunga n'umuryango w'Abanyamerika witwa USAID. Ukaba ari umuryango uherutse kuvuga ko hari ibihugu bimwe na bimwe uzagabanyiriza inkunga byahabwaga.

Igikadere ubona ko ari icya mpande ennye, kikaba kimanitse ukuntu ariko mo hagati haratoboye, aho hatoboye rero hari guhingukamo imitwe y'abantu bane ubona ko bagifashe, bakaba bari muri gahunda yo kwirinda cyangwa se yo gukangurira abantu kwirinda kanseri y'ibere.

Umuryango nyarwanda ushinzwe kwita ku buzima RBC, ushishikariza abantu bose kwirinda virusi itera SIDA kubera ko ari indwara mbi cyane kandi ikunze kuzonga abantu benshi.

Ibitaro bya Nyarugenge ni ibitaro bikomeye kuko bivura indwara zigiye zitandukanye, ndetse umurwayi aho yaba aturutse hose bamwitaho akabasha gukira.

Inyubako yo kwa muganga ifite ibikoresho bigiye bitandukanye, hari igihagaze kimeze nk'ipironi, hari ikindi gifite amapine kimeze nk'ingorofani, hari n'ibindi bimeze nk'igitanda baryamaho ariko kiri mu kirere.

Inama yabereye mu mudugudu ikaba yabereye ku bitaro ndetse bakaba bari bari kwiga ku ndwara zigiye zitandukanye ndetse no gushishikariza abaturage kuzirinda.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ikaba ari inyubako yubatswe neza cyane mu buryo bugezweho, isize amarangi y'umweru ndetse ikaba ifite icyapa kinini cyanditseho ibitaro bya Nyarugenge.

Ibitaro bya Rwamagana, ni amagambo yanditse ku nyubako hejuru, iyo nyubako ikaba yubatse neza, imbere yayo hari abantu bari kwifotoza, barimo abazungu n'abirabura.

Umurwayi uri kugendera mu kagare k'abafite ubumuga, urabona ko ari kugana ku bitaro, ibyo bitaro byubatswe neza cyane, bifite amarange y'umweru, inzugi zirimo ibirahure ariko ubona zifite ibara ry'umukara, hari jaride nziza cyane irimo indabo zitoshye, hari n'urucaca rwiza cyane rwo kwicaramo, hari n'ikigega cy'umukara hakurya.

Inyubako nziza cyane ifite akabingaro gateye neza mu buryo bw'uruziga rutuzuye, imbere yayo hakaba hari umuntu wegamye ku gikuta cy'inkingi ifashe akabingaro.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga ifite amabara meza cyane, isize irange risa n'ivu, mu gisenge hari ibyuma ndetse hari n'utuntu tumeze nk'uturasire dutuma urumuri rugera mu nzu mo imbere, hasi hari amakaro meza ashashe harimo n'uturongo tugiye twerekana aho ikaro rifataniye n'irindi.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga ryifashishwa mu kuvura, gusuzuma ndetse no kumenya ibibazo abarwayi bafite.

Ibitanda byiza cyane byo kwa muganga bishyashe neza, ubona ko bifite utwuma ku ruhande tuzamuye, dufite inkingi zidufashe, bisa nkaho bitangira umurwayi kugirango igihe yaba afite ikibazo gikomeye abe atahirima hasi kuri sima.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'ivu ku nkuta ndetse hakaba hari hejuru mu gisenge hasa umukara harimo ibyuma bigiye bitambitse n'ibimanutse, hasi hashashemo amakaro meza cyane.

Inyubako nziza cyane ifite igisenge, ubona ko kirimo cya cyuma kizana umuyaga mu rwego rwo kugabanya ubushyuhe n'icyokere kizwi nka vandarateri.

Ubusitani bwiza butoshye burimo indabo zitandukanye, zifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'izindi zifite ibara ry'umutuku, bukaba buri imbere y'inyubako ubona ko ari inyubako nziza cyane yubakishijwe amabuye wagira ngo yubatswe kera ku bw'abakoloni, gusa ni inyubako yo kwa muganga, imbere yayo hari abantu bahahagaze.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe zicarwaho, izegamirwa ndetse harimo n'ameza asa neza cyane. Mu by'ukuri ubona ko ari ahantu hakeye.

Ibitaro byo kwa muganga bisakaje amabati y'ubururu, bifite umureko ufata amazi uyajyana mu kigega gihari cy'umukara kiri imbere y'ibyo bitaro, ndetse hakaba hari ikimeze nk'umwembe utarakura cyane ngo utangire kwera uri mu busitani bwiza butoshye.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye ayo matafari ubona ko akiri mashyashya rwose hirya yaho hari indi nyubako ikoze muzeru rumeze nk'ikigega ifite ibirahuri byiza ndetse ifite dezayini yayo imbere yazo zose hari ubusitani bwiza butoshye burimo indabo.

Ahantu habikwa imiti ni ahantu heza cyane ndetse haba hafite isuku, mu by'ukuri imiti ibitswe neza biyirinda kwangirika bityo igakomeza gufasha mu buvuzi neza.

Inyubako igezweho yo kwa muganga irimo imyanya umuntu yicaramo ndetse kuri buri mwanya hakaba hariho icyuma kiri hejuru k'imashini kikaba cyifashishwa mu gusuzuma uwicaye muri iyo ntebe.

Inyubako nziza cyane ubona ko ifite amabara meza cyane y'ubururu, ikaba ifite inzugi nziza ndetse ikaba ari inyubako ifite n'akabaraza umuntu yakugamamo izuba, imbere yayo haparitse imodoka, hari akajaride gatoya karimo umukindo utarakura ngo uzamuke hejuru.

Abarwayi baryamye ku bitanda ubona ko barembye cyane, umwe yoroshwe ibintu byinshi ndetse undi we nta n'ubwo yiyoroshe, aryamye agaramye amavi yayatunze hejuru, amaboko yayarambuye ubona ko indwara imurembeje rwose.

Intebe nziza cyane z'ubururu bwerurutse n'izindi ziri imbere yazo zifite ibara twakita nk'iry'ivu ziteretse ahantu hari amakaro meza cyane amakaro atandukanye ubona ko ari mu nyubako yo kwa muganga.

Ububiko bw'imiti igiye itandukanye, ubu ni ububiko buri kwa muganga mu bitaro, mu by'ukuri inyubako yose y'ibitaro cyangwa se ikigo nderabuzima bigira ahantu bibika imiti.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, yubakishijwe amatafari ahiye ndetse atukura, ukaba ubona ko ishakakaje amabati y'umutuku, ifite imireko myiza ifata amazi, imbere yayo hari akarasire kamanitse ku kintu cy'icyuma.

Icyapa kinini kizamuye, gifite amabara y'umweru. Kikaba rwose ubona ko gishushanyijeho amagambo. Ariko ayo magambo, ari kugaragaza ko hari ibitaro, kandi ibyo bitaro bikaba ari ibitaro bitabara imbabare, ndetse bikaba ari ibyo mu majyepfo, mu by'ukuri handitseho n'ijambo:" Nyirinkwaya".

Ibikoresho by'amacupa maremare ari mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari amacupa yifashishwa mu gutanga umwuka kwa muganga, aho haba hari abarwayi barembye bakeneye kongererwa umwuka.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ni inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse y'umutuku, ikaba isizwe amarange meza cyane y'umweru, imbere yayo haparitse imodoka imwe y'ivatiri ndetse iyi nyubako ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi.

Umuntu bigaragara yuko yambaye agapira k'ubururu ari kumanura inzitiramibu ubona ko ari ahantu kwa muganga kandi igitanda kikaba kiryamweho n'umurwayi. Bari kumumanurira inzitiramibu kubera ko we atabishobora arembye.

Inyubako yo kwa muganga ifite ibitanda bigiye bitandukanye gusa byose birasa ndetse biteye kimwe bigaragaza ko ari aho abarwayi baryamishwa barembye.

Intebe ziri mu mabara y'ubururu, ziteye kwa muganga, ndetse hakaba hari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, nk'indobo ziri mu kantu k'ukuma, ndetse izo ndobo zikaba ari umuhondo.

Muganga ari imbere y'ikintu cy'icyuma ubona ko hari ibintu arimo arapima. Inyuma y'icyo cyuma hateretse ameza ndetse hari n'intebe, hari na mudasobwa n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ikaba itatseho ibyapa bigera muri bine, hejuru hari icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo agaragaza ko ari ahantu bacururiza imiti.

Umuganga wambaye imyenda y'iroze ndetse wambaye n'uturindantoki ndetse akaba afite agapfukamunwa yamanuwe munsi y'akananwa, ari imbere y'umukecuru ndetse akaba amufashe ukuboko. Iruhande hari undi mukecuru, wambaye imyenda y'ibitenge.

Inyubako nyinshi zicuruza imiti zizwi nka farumasi uzasanga akenshi zifite amayetajeri manini agiye abitswimo imiti harimo iba iri mu dukarito, mu macupa ndetse n'indi ipfunyitse mu bundi buryo bwiza kandi bugezweho.

Icyuma kinini cy'ikoranabuhanga cya rutura cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi, kikaba kiri ahantu mu cyumba mu nyubako yo kwa muganga, aho hari n'ameza agiye ateretse ariho ibitambaro bisa ndetse bifite ibara ry'ubururu bwerurutse. Hari n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga bicometseho insinga z'amashanyarazi.

Abaganga bakora uko bashoboye kose, bagasanasana iminsi ikicuma. Ni yo mpamvu rimwe na rimwe usanga umuganga ari ku muvuduko, aho aba yirukanka ajya kuzana imiti, abandi na bo bateranye barimo bashakashaka, bagira ngo bamenye ikibazo cy'indwara umurwayi urembye afite.

Igitanda kiza cyane kirambitseho agasego hejuru aho umutwe, ujya ndetse gishasheho ikuvurori nziza cyane, hakaba ari mu cyumba cyo kwa muganga.

Abaganga batandukanye bari kwita ku barwayi ndetse ubona ko ari umuganga umwe w'umugore ufite imisatsi myiza isutse, uri kwita ku murwayi uri mu kagare ufite ikibazo cy'ubumuga.

Mu nyubako yo kwa muganga, hari ibikoresho bitandukanye. Ibyo bikoresho birimo iby'ikoranabuhanga, ndetse harimo n'intebe, n'ameza n'ibimeze nk'utubati.

Igitanda cyo kwa muganga kirimo ibitanda bisashe neza kimwe kiryamyeho umurwayi ndetse ukaba ubona ko buri cyose gifite inzitiramubu.

Indwara zigiye zitandukanye zigira ibitaro zivurirwamo, bityo rero ibitaro byose byo mu Rwanda biba bifite ahantu habugenewe ababyeyi babyarira aho twita muri materinete.

Icyumba cyanditseho ijambo ry'icyongereza, iryo jambo rikaba risobanura ko ari ahantu hakorerwa operation cyangwa se ahabagirwa umuntu ufite ibibazo by'ingingo cyangwa se byo mu nda cyangwa n'ibindi bikeneye ububazi bukorwa n'abaganga b'inzobere.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bw'igorofa ariko ikaba igeretse rimwe, ikaba ari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ku ruhande hari igiti kiri kuyikoraho cyegeranye n'indi nzu isanzwe, ikaba iyi nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti.

Igitanda kiryamishwaho umurwayi urembye, kikaba gikoze mu buryo bwiza cyane ndetse harambitseho matola ishasheho ishuka nziza, hakaba hari n'ibyuma umurwayi afataho agiye kubyuka biri ku ruhande.

Mu nyubako yo kwa muganga, akaba ari mu bitaro bikomeye, hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo amamashini, ibitanda bigezweho, ibimeze nk'intebe ndetse n'ibindi byinshi.

Mu nyubako mo imbere kwa muganga hari icyumba kirimo ibintu byinshi cyane bitandukanye, ameza, ibyuma by'ikoranabuhanga birimo insakazamashusho, mudasobwa n'ibindi bigiye bicomekanze ku muriro w'amashanyarazi, hari n'ibindi bitebe bicaraho bakegama.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, iyo ni inyubako isize amarange asa n'ivu, mu byukuri iyi nyubako ifite ibyuma by'ikoranabuhanga rigezweho, byifashishwa mu gukaraba, gukaraba intoki.

Icyuma byifashishwa mu gusuzuma umubiri wose w'umuntu kikaba ari icyuma giteye mu buryo bugezweho, aho umuntu aryama ndetse akaba hari n'ahameze nk'uruziga.

Abantu bagera muri babiri bose bakaba ari abaganga bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa, bari kureba imbere mu kintu k'icyuma kimeze nk'igisanduku kikaba gifunguye.

Abantu bagera muri batanu, harimo umugabo umwe n'abagore bane bose bakaba bari bari imbere y'inyubako yo kwa muganga bafata ifoto.

Umubyeyi uteruye akana k'agahinja, akaba yegeranye na muganga. Uwo muganga akaba yambaye neza yambaye n'amarinete. Mu by'ukuri bigaragara ko aka kana kazanwe kwa muganga, guhabwa ubuvuzi cyangwa gukingirwa.

Inzu y'ababyeyi cyangwa se aho ababyeyi babyarira ni ukuri buri bitaro byose bigira aho ababyeyi babyarira.

Ku isoko ahaba amaduka agiye atandukanye acuruza ibicuruzwa bitandukanye ndetse hari n'aho haba hari umuryango ucuruza imiti ndetse aho hakaba haba hazwi nko muri farumasi.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umweru ndetse ifite n'inkuta nziza cyane, zisize na zo amarangi y'umweru. Hasi hashashemo amakaro meza, hejuru mu gisenge hari parafo nziza ifite uturongo dutambitse n'utundi tumanutse.

Ibitaro byo kwa muganga biba bifite ahantu habugenewe biryamisha abarwayi barembye cyane bakeneye kwitabwaho by'umwihariko cyangwa batari buhabwe serivisi z'ubuvuzi ngo bahite bataha muri ibyo byumba haba harimo inzitiramibu.

Umurwayi aryamye ku gitanda cy'abarwayi barembye, kikaba ari igitanda kiri ahantu mu nyubako mu cyumba ubona ko ari inyubako yo kwa muganga ndetse ukaba ubona ko hari ibyuma by'ikoranabuhanga biri iruhande rwa buri gitanda, byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Mu by'ukuri ni byiza ko abanyafurika duhagurukira kwita ku buzima bugiye butandukanye, by'umwihariko ubwacu bwite ndetse n'ubw'inyamaswa tukirinda indwara.

Umuntu wicaye ku ntebe zegamirwa ziri kwa muganga, akaba akaguru kamwe gahagaze ku makaro y'umweru arimo imirongo imanutse, imbere hakaba hari ameza ateretseho ivaze irimo ikimeze nk'ururabo, ndetse akaba ari kwa muganga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'igorofa, ishakaje amabati meza cyane ubona ko ari inyubako ifite amarangi y'umweru. Ikaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ariko ngenekereje mu Kinyarwanda, asobanura ko ari ahantu hakora ubushakashatsi bushingiye ku miti.

Kwa muganga hari inyubako, iyo nyubako ikaba irimo ibyuma byinshi bijyiye bitandukanye, gusa ibyo byuma urabona ko wagira ngo ni ibyo guterura. Ndetse ukurikije ukuntu bipanze ku murongo, bifite ibiro bigiye bitandukanye.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ni ibitaro byubatse neza cyane bifite agahanda k'amabuye kabiganaho ndetse bifite n'indabo nziza cyane zifite ibara ry'icyatsi kibisi, ubona ko ari ibimera bitoshye bivomerwa.

Abantu benshi iyo bagiye kwa muganga baba bizeye kuvurwa bagakira, ni yo mpamvu abaganga na bo bakoresha ibikoresho byose bishoboka by'ikoranabuhanga rigiye ritandukanye kugira ngo bavure cyangwa basuzume abarwayi.

Abantu batonze umurongo ahantu mu nyubako ubona ko ari kwa muganga. Bari kugenda basanga muganga wicaye ndetse hakaba hari umuntu umwe ufite ikibazo cy'ubumuga wicaye mu kagare we, bakaba bamuhereyeho kugira ngo abone uko agera mu rugo hakiri kare.

Intebe zose zisa, ubona ko ari intebe nziza cyane ndetse hari n'igitanda nacyo gifite ibara risa n'izo ntebe, bigaragaza ko ari iby'ahantu hamwe, icyo gitanda kiriho agatambaro k'umweru, hariho n'umusego umuntu yisegura.

Aho bavurira amaso, iyi ni inyubako y'ibitaro ikaba ari inyubako nziza cyane, ikaba ishushanyijeho ijisho, bigaragaza ko ari ibitaro bivura amaso.

Ububiko bw'imiti, ni ahantutu habugenewe habikwa imiti igiye itandukanye, ku buryo igihe cyose umuganga amaze gusuzuma umurwayi akamenya imiti ari bumuhe, aza muri ubu bubiko hanyuma akayifata.

Inyubako yo kwa muganga ifite icyumba kimanitse n'isaha, iteye amarangi meza cyane, hasi ikaba ifite amakaro meza cyane, ikaba irimo ibyuma by'ikoranabuhanga, ibyo byuma biri mu mu moko atandukanye.

Icyapa gishinze ahantu mu kajaride, hazamuyeho ibyuma bigifashe, kikaba cyanditseho amagambo agaragaza ko ari ibitaro bikuru bya Kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ifite utujaride turimo ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'indabo nziza cyane zifite ibara ry'umuhondo. Mu biti harimo imikindo n'ibindi biti by'inganzamarumbo.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro ubona ko ifite amazu menshi cyane, ifite ubusitani bwiza butoshye ndetse hakaba hari n'igiti cy'inganzamarumbo ubona ko cyakuze rwose, hari ikirere cyiza cyane cy'ubururu, ayo mazu afite amabara y'umweru ashakajwe amabati y'ubururu.

Ibitanda byo kwa muganga, bikaba ari ibitanda bine, buri gitanda gifite inzitiramibu iri hejuru yacyo ariko izo nzitiramibu zose zirapfunditse, ntago zimanuye cyangwa se ngo zibe zirambuye ku gitanda, igitanda kimwe kiriho umurwayi wiyoroshe amashuka y'umweru, ikindi kiriho umurwayi wiyoroshe amashuka y'ubururu.

Ubuvuzi bwateye imbere ku rwego indwara zose zivurwa ndetse zigasuzumwa neza cyane hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, gusuzuma, kumenya ibibazo by'abarwayi, ndetse no kumenya imiti bari buhabwe. Ibi ni ibintu bigezweho bikoreshwa mu Rwanda.

Umurwayi uryamye ku gitanda ,wambaye ishati irimo uturongo iyo twakwita nka karokaro, akaba afashe ku gitanda, ndetse yambaye amasogisi y'umweru arimo akarongo k'umukara kazamutse, akaba yambaye n'ipantaro ya kaki, ku ruhande hari umuganga uri kumwitaho wambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako yo kwa muganga irimo abarwayi baje gushaka service z'ubuvuzi, bicaye ku murongo ku ntebe, hari kugenda hagenda umwe umwe asanga muganga, muganga agenda amufasha yamara kumufasha undi akaza.

Kwa muganga mu bitaro, hari abantu bagera muri bane, babiri ni abaganga, abandi ni abarwayi, mu by'ukuri bari gusuzumwa n'icyuma cyiza cyane kigezweho cy'ikoranabuhanga.

Ahantu hatangirwa ubuvuzi busanzwe, ni inyubako nziza cyane ifite imiryango y'ibirahure ndetse akaba ari imiryango igiye itandukanye yanditseho nimero, hari ahari hamwe, habiri, hatatu, hane.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga ifite igikuta cyiza gifite amarange y'umweru ariko hari ahari icyapa cyanditseho ijambo rigaragaza ko ari ahantu hagenewe imyitozo ngororamubiri, hari intebe nziza iteretse hagati y'amavazi abiri, ayo mavazi yose arimo indabo.

Mu Rwanda ni hamwe mu hantu bazi kwita ku buzima bw'abaturage ku buryo usanga hari ibitaro bivura indwara zigiye zitandukanye, zaba iz'ibyorezo cyangwa se izindi ndwara zikomeye. Twavuga nka kanseri. Hari ibitaro byinshi mu Rwanda bivura kanseri zitandukanye.

Kwa muganga mu bitaro hari ubuvuzi buteye imbere, ku buryo usanga hari ibyuma by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvura abarwayi, kubasuzuma no kubaha imiti igiye itandukanye.

Umuganga ari kwita ku mwana, uwo mwana ubona ko akiri muto ari uruhinja ndetse uwo mwana ateruwe na nyina. Mu by'ukuri ubona ko bari kumufata amaraso kugira ngo bapime bamenye ubuzima bwe uko buhagaze.

Inzu y'ababyeyi izwi mu rurimi rw'icyongereza nka materinete, ni inzu yifashishwa igihe umubyeyi ari kubyara cyangwa se ari ku nda, imbere yayo hifotoreje abantu benshi batandukanye barimo abagabo, abagore ndetse n'abandi bantu b'abayobozi.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ni inyubako yubatswe neza mu buryo bugezweho, ifite inkuta ubona ko ari iz'ibirahuri ifite amakaro meza ndetse urabona ko kuri buri muryango hashushanyijeho ifoto y'umuntu ahari n'ukorera muri uwo muryango cyangwa se utanga ubuvuzi muri uwo muryango.

Intebe ziri kwa muganga, ibitanda ndetse harimo ameza, ama etajeri n'ibintu bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi bugezweho, ku buryo umurwayi bamukurikirana mu buryo bwose bushoboka.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ifite igisenge gifite ibyuma bitambitse n'ibimanutse, ikaba isize amarangi meza cyane y'umweru, ifite inzugi ubona ko zifite ibara rijya gusa nk'umukara ndetse izo nzugi zikaba zifungishijwe serire.

Umuganga ari gutera urushinge umusore, uwo musore yamanuye ishati ahagana ku rutugu mbega aho bagiye gutera urushinge, muganga na we yambaye uturindantoki, urushinge yamaze kurukoza ku kuboko, bigaragara y'uko bagiye kumukingira indwara runaka.

Inyubako nziza cyane zikaba ari inyubako zifite amabati agiye atandukanye, hari izifite ay'ubururu ndetse n'ay'umutuku hakaba harimo utujaride twiza cyane turimo indabo zikase neza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari ahantu hari icyuma kinini cyane, icyo cyuma ukaba ubona ko kifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse afite ikintu cy'igitambaro cy'umweru yarambuye ahantu hameze nko ku buriri.

Icyuma cyo kwa muganga, ni icyuma gikoze mu buryo gifite ikintu kimeze nk'umuvure, kikaba gifite n'ahandi hantu h'umuzenguruko hameze nk'igitereviziyo cya kera. Mu by'ukuri iki cyuma cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi cyangwa se umuntu muzima bagira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Imashini icmetseho isinga z'amashanyarazi ikaba ifite hejuru insakazamashusho ifite n'ibindi byuma bigiye biyicometseho ubona ko yifashishwa n'abaganga bari gusuzuma ibintu bigiye bitandukanye harimo abarwayi ndetse n'imiti.

Umuntu ubona ko ari umugabo aricaye ahantu mutwatsi twiza cyaneshyeba ry'icyatsi kibisiri ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye insengeri y'umukara, ufite agakabutura k'umukara kariho akabara k'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yarambuye amucyeka hasi.

Igikapu cya muganga yifashisha ajya gutanga ubuvuzi bw'ibanze, ni igikapu kiba kirimo imiti yifashishwa, n'ibikoresho byifashishwa igihe cyose muganga akenewe cyangwa se agiye gutanga ubwo butabazi.

Icyuma cy'ikoranabuhanga rigezweho cyifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye. Iki ngiki ni icyuma gifite ubushobozi bwo gusuzuma uburwayi uko bwaba bumeze kose. Ndetse kikaba cyabasha no kwereka muganga binyuze muri porogaramu yacyo, umuti yagakwiye guha uwo murwayi, bitewe n'ikibazo kimusanganye.

Igikoresho gitoboye, kikaba cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri, iki gikoresho cyambarwa mu ivi, bamwe bakita ngo ni koteresho, kirinda umuntu kuba yavunika.

Ibishushanyo by'intoki ndetse bikaba bicishijemo akantu kameze nk'agasaraba byose bikaba biri kureba hejuru ndetse bigaragara ko handitseho n'imibare kuri buri kimwe.

Urusobe rw'imiti umuganga agomba kwitwaza igihe cyose agiye gukora ubutabazi bw'ibanze, harimo amavuta basiga ku ruhu akagabanya uburibwe, harimo ga zo kwambara ndetse n'amacupa arimo ibinini n'ibindi bitandukanye.

Igishushanyo cy'uruziga ariko gifite ipfundo kirimo abagabo babiri umwe wambaye ibintu by'ubururu n'undi wambaye iby'umweru bakaba bameze nk'abari kurwana cyangwa se bari gukirana ariko ni ibishushanyo.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri ubona ko agororotse rwose yambaye ipantaro imufatiriye iyo pantaro ikaba ari umukara yambaye n'agasengengeri k'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri igitandukanye.

Umuganga yatunze icyuma umwana kanwa, umwana araramye muganga amufashe ku mutwe bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi ubona ko bari kumusuzuma nyine icyo cyuma gitunze mu isura, kikaba kiri bwifashishwe mu kumenya indwara uyu mwana arwaye.

Hari ubwoko bw'imyitozo ngororamubiri myinshi cyane, ugomba gukora kugirango ngo ibice byawe by'umubiri byose bikore. Hari ugusimbuka, kuzamura amaboko, uyamanura wongera uyazamura ndetse hakaba hari no kugenda ufata akaguru kamwe, ugenda usimbukisha akandi.

Ubuvuzi bwo mu Rwanda bwateye imbere, ku buryo rimwe na rimwe, hari n'abantu basigaye babava hanze, bakaza kwivuriza mu Rwanda. Urugero abarundi, abakongomani, ndetse n'abaturage bo muri Tanzania. Ushobora kubasanga mu bitaro bigiye bitandukanye byo mu Rwanda. Kubera ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, bwo mu Rwanda.

Imiti igiye itandukanye ubona ko ari imiti iri mu makarito, indi iri mu macupa ndetse hakaba hari n'ibikoresho byifashishwa twavuga nka bande yo kuzirika, twavuga imakasi ndetse n'uturindantoki, ibyo byose byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Ubutabazi bw'ibanze muganga ashobora gukorera umurwayi ugize ikibazo runaka ahantu hateraniye abantu benshi, uwo muganga agomba kuba yitwaje ibikoresho byo gukora ubwo butabazi birimo nka bande yo kuzirika, umuti ugabanya uburibwe ndetse n'ibinini n'indi miti itandukanye.

Umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri, afite imisatsi miremire yayicuritse iri gukora hasi ku itako rye, yasobekeranyije amaguru ndetse yambaye imyenda yabugenewe yo gukora siporo, iruhande rwe hateretse agacupa k'amazi.

Umugabo uri kunywa amazi bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari amazi meza cyane y'urubogobogo ari mu icupa rya purasitiki. Ni byiza cyane kunywa amazi meza, igihe cyose umaze gukora siporo ukananirwa.

Inkweto ndende zizamuye z'umukara zizwi nka butini. Izo ni inkweto utakifashisha uri gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se ikizwi nka siporo, kuko zakuremerera. Ni byiza gukoresha inkweto ngufiya kandi ziciye bugufi, igihe cyose uri gukora siporo.

Igikapu cya muganga, ni igikapu abaganga bitwaza iyo bagiye gutanga ubutabazi bw'ibanze by'umwihariko bagiye kubutanga ahantu habereye ihuriro cyangwa ikoraniro ry'abantu benshi, haba harimo ibikoresho by'ibanze muganga yifashisha.

Urusobe rw'ibikoresho n'imiti muganga akwiye kwitwaza iyo ajya gukora ubutabazi bw'ibanze by'umwihariko ahantu hari abantu benshi cyangwa se aho bakina umupira harimo ga zo kwambara, harimo imiti igabanya uburibwe cyangwa se ububabare, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ubuvuzi bwo kubaga, ni ubuvuzi bugezweho cyane bwifashishwa kugira ngo umuntu ufite ikibazo runaka gikomeye abashe kuba yasimburizwa urugingo.

Mu bitaro kwa muganga hari abarwayi bategereje serivisi. Harimo n'abantu bihagarariye n'abegamye ku nkingi. Hari ahantu hamanitse ibimeze nk'ibipirizo birimo icy'umuhondo, icy'icyatsi kibisi ndetse n'ikindi cyenda gutukura.

Pome, urusenda, avoca isatuye irimo urubuto, inyanya ziri ku gashami kazo, shufurere, tungurusumu, karoti nziza ndende, inkweto ku ruhande n'ibindi byinshi.

Umuntu uri kunywa amazi bigaragara ko ari umusore w'intarumikwa, umaze gukora imyitozo ngororamubiri ivunanye, akaba yifitiye agacupa keza cyane karimo amazi.

Umuntu wibereye mu myitozo ngororamubiri bigaragara ko ari umusore, akaba yambaye agakabutura k'umukara, gafite uturongo tw'umweru tuzamutse ku ruhande ndetse yambaye n'inkweto zifunze nziza za supuresi, yambaye n'ibintu by'ibikomo byinshi ku kuboko kwi'bumoso.

Igihe cyose umuntu akora siporo hari ibintu aba agomba kurya bikamufasha kongera imbaraga, aha twavugamo nk'imineke, avoka, inanasi, amacunga, imyembe ndetse ashobora no kwifashisha ibinini.

Gukora siporo ni ingenzi cyane gusa rimwe na rimwe twibwira ko kwiruka byan gukina umupira ariyo siports ariko hari izindi siporo zitandukanye nko nko gusimbuka umugozi ku gihenura imitsi uzamura amaguruhonge uyamanura n'ibindi byishigiye bitandukanye.

Akagare k'umuntu ufite ubumuga. Aka ngaka kakorewe gufasha aba bantu, mu rwego rwo kugira ngo be guheranwa n'agahinda. Na bo bajye bagira uburyo bagera mu bandi bitabagoye. Aka kagare ni keza cyane.

Icyuma cyifashishwa mu kuvura cyangwa gupima indwara zikomeye kikaba kiba mu bitaro bikomeye cyangwa se bitwita ibitaro bikuru nka za se hashika na za se hashibe.

Amazi y'uruhogobogo, ari gusukwa mu ijage cyangwa mu kirahure, bigaragara ko ari guturuka mu icupa rya purastike, iryo cupa rikaba ari icupa ryiza cyane risukuye.

Igikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kikaba giteye mu buryo bumeze nk'ameza ateretse ku kintu cy'ingazi. Hariho amasantimetero agaragaza buri ruhande.

Umuntu uri kunywa amazi bigaragara ko ari amazi meza ari mu icupa ry'umweru ndetse bikaba bigaragara ko uyu muntu yari ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyuma cyifashishwa mu buvuzi bugezweho, kikaba ari icyuma kiza cyane ubona yuko kiziritseho umugozi, kikaba gifite akantu hejuru kameze nk'ipombo.

Umugabo wateye akaguru hejuru kubyuma akandi kari hasi, yambaye ikabutura nziza cyane y'umukara ndetse yambaye n'isengeri y'umukara. Yambaye isaha ku kuboko ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe burusheho kuba bwiza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga birimo amamashini ndetse n'ibindi by'imigozi n'intebe yo kwicaraho ariko ifite uburyo iteyemo, byose byifashishwa mu buvuzi bugezweho.

Mu by'ukuri ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bifasha umubiri w'umuntu kumera neza, kugira imbaraga ndetse bigafasha n'umutwe gutekereza neza, by'umwihariko birinda indwara zigiye zitandukanye ndetse bikarambura n'imitsi n'ingingo zigiye zitandukanye.

Ni byiza cyane ko dukora imyitozo ngororamubiri, gusa hari abantu bakina umukino wa Basket bagashimisha abafana, abafana bagaturuka hirya no hino, impande n'impande bakaza kwihera ijisho.

Umuntu ufashe ku kuboko kw'ibumoso, akaba afatiyeho ikintu kimeze nka barafu, cya kindi abaganga bifashisha kiba gikonje cyane, bakaba bagishyira ku muntu wavunitse kugira ngo ububabare bugabanuke.

Igihe cyose umuntu agize ikibazo k'imvune hari ubutabazi bw'ibanze aba yagakwiye guhabwa. Urugero ashobora kuzirikwa bande, iyo bande igatuma igufwa rye ridakomeza gutatana cyangwa ngo rite umurongo.

Umuganga aricaye, yicaye ku ntebe, yambaye imyenda isa, ubona ko ari iy'akazi, afite icyuma icyo cyuma kikaba gifashweho n'amaboko y'uwundi muntu, bigaragara ko ari umusaza, cyangwa se ari umuntu wavunitse bari kumufasha kugendagenda.

Umuntu umeze nk'umuganga wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, akaba ari gufasha undi muntu uryamye w'umusore, akaba ari kumukora ku kuguru, uwo musore bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye asobekeranyije amaguru, yicaye ku mukeka imbere ye hateretse mudasobwa hari n'utwuma tubiri duteganye turi mu mabara y'iroze, bigaragara ko atwifashisha aduterura kugira ngo aringanize umubiri we.

Umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri, yazamuye ukuboko kwe agukoza mu mugongo, ukundi gusigaye agufatisha mu nkokora, yambaye isaha ku kuboko kumwe kw'ibumoso, yambaye ekuteri z'umweru mu matwi, akaba afite umusatsi usutse.

Umukobwa wazamuye amaboko hejuru mu kirere wiyambare agasengeri k'umweru ndetse n'agapantaro kamufashe ubona ko gafite ibara ry'ubururu bw'ikirere akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri imbere ye hari vase iteretsemo umukindo nk'umutako.

Abantu bigaragara ko ari babiri umwe ni umusaza undi ni umuganga, umuganga ari gufasha umusaza kugendera mu bintu by'ibyuma, bigaragara ko umusaza yari afite ikibazo cy'amaguru yaravunitse cyangwa se yaramugaye.

Abantu babiri b'abazungu, umwe n'umugabo undi ni umugore, bicaye batari kurebana, umwe yashyize umutwe ku wundi, bari kunywa amazi meza cyane ari mu icupa rya parasitiki.

Icyuma cyo kwa muganga cyiza cyane cy'ikoranabuhanga rigezweho, cyakozwe gikorewe muri Amerika. Mu by'ukuri impamvu mvuze muri Amerika, ni uko ari ho hari ubuvuzi buteye imbere ndetse bikaba bigaragara ko kifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'umubiri wa muntu.

Abagabo babiri bambaye amakote, umwe yambaye iry'umukara, yambaye n'ishati y'umweru na karuvati y'irose, hari n'undi wambaye ikote ry'ikivuvu ariko we yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara , bari kureba umuntu wavunitse uri kwitabwaho n'abaganga.

Umuntu w'umusore ari gukora siporo ndetse aricaye yicaye ku kintu kimeze nk'umukeka, yarambuye ukuguru kumwe ukundi kurahinye, uko yarambuye yamanuye amaboko agufataho, nayo arambuye neza bigaragara ko ari kugorora ingingo ndetse n'imitsi, imbere ye hateretse icupa ririmo amazi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, wicaye yasobekeranyije amaguru, imbere ye hateretse mudasobwa, hari n'utwuma tubiri, yifashisha aterura. Hino hari icupa ry'amazi ripfundikiye ry'umweru. Hari n'umugozi wo gusimbuka.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ifite akabara k'umweru ku ruhande, wambaye inkweto zifunze za supuresi ndetse ufite ekuteri mu gutwi ariko kwiyumvira akaziki, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yamanuye ukuguru kumwe ukundi kukaba gusa nk'uguhinnye.

Imyitozo ngororamubiri, ni imyitozo ikorwa mu buryo bugiye butandukanye, ushobora gukoresha icyo bita utudenesi, umupira w'amaguru, umupira wa Rugubi, umupira w'intoki wa Volley cyangwa Basketball.

Umuganga ari gufasha umuntu w'umusaza ugeze mu za bukuru ari kumufasha gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, yamuhaye umugozi wumuhondo uwo mugozi umusaza ari kukwedu kugirango amaboko ye arambuke.

Umuntu uri kunywa amazi mu icupa ndetse bigaragara ko ari umukobwa. Yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri, ni ko kunanirwa ahitamo kunywa amazi.

Amazi ari gusukwa mu ijage, akaba ari amazi meza y'urubogobogo ndetse akaba ari amazi yatunganyijwe yo kunywa, ni byiza kunywa amazi asukuye.

Icyuma cy'ikoranabuhanga, gifite ikimeze nk'uruziga, n'ikindi kintu gicometsemo kirambuye, ubona ko ari icy'umurwayi aryamaho, cyangwa se ugiye kwisuzumisha. Icyuma kiragusuzuma umubiri wawe wose, ukamenya uko uhagaze.

Imbangukira mu gutabara, iparitse mu muhanda cyangwa se ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, uwo muhanda hirya hari utuntu dutangira amazi, turi mu mabara y'umukara n'umweru.

Icyuma gifite amabuto, ayo mabuto akaba ari atatu y'umukara hakaba hari n'irindi buto rimwe rifite ibara ry'ubururu, rikaba ari icyuma kifashishwa mu buvuzi bugezweho.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura, harimo isaha yo kureberaho igihe, metero yo gupima, amazi yo kunywa, isume yo kwihanagura ndetse n'agapome ko kurya.

Umusore aryamye ku kintu kimeze nk'igitanda ariko gifite uburyo kizamuyemo ndetse afite tatuwaje ku kuboko, afite imisatsi myiza ndetse iruhande rwe hari umuzungu, umuzungu ari kumwereka ibyo akora.

Igihe cyose umaze gukora siporo, uterura nk'ibyuma cyangwa wirukanka ugomba kurya ibintu byiganjemo imbuto, harimo amacunga, pome ndetse n'imitobe igiye itandukanye.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ubona ko ari mu nyubako yabigenewe. Mu by'ukuri hari n'umuntu w'umuganga cyangwa se uwo twakwita nk'umufasha ufasha gukora siporo bigendanye n'ubuzima bwa muntu.

Uyu umukobwa ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri, ni umukobwa uri gusunika ikintu cy'icyuma, icyo cyuma gishobora kuba gifite ibiro byinshi kuko urabona ko yashyizemo imbaraga zose.

Umusore araryamye yifashe mu gatuza asobekeranyije intoki zose ubona ko yambaye umupira w'umweru ndetse n'ikabutura y'umukara ifite akantu ku ruhande k'andi mabara atandukanye yambaye n'amasogisi y'umweru hari umuntu w'umuzungu wambaye isaha yafashe akaguru k'uwo musore agashyira ku rutugu rwe bigaragara ko ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyuma kifashishwa mu gukora siporo. Ni icyuma cyiza cyane, aho buri muntu wese ashobora kugikoresha. Kuko ntigihenze kandi niyo cyahenda siporo ni ingenzi mu buzima.

Umubyeyi wifashe ku kuboko kw'ibumoso, ariko akaba yapfukiyeho ikintu kimeze nk'igitambaro, ariko kiri mu mabara y'ubururu, gifitemo n'utubara tw'umweru.

Umukobwa mwiza cyane wambaye agakabutura k'ubururu bwerurutse mbese bw'ikirere nka bumwe bwa Manisiti; ikipe yo mu Bwongereza, akaba yiyicariye mu twatsi ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wifashe mu ivi, wapfukamishije ukuguru kumwe. Bigaragara ko agize ikibazo mu ivi cy'imvune. Kandi yariri gukora imyitozo ngororamubiri. Akeneye ubutabazi bwa muganga. Igihe cyose uvunitse, usabwa kwegera muganga, akareba ikibazo cyawe.

Umuntu bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se siporo. Akaba yafashe amaboko ye akayahuriza inyuma, yicaye. Yambaye agasengeri keza cyane, gafite ibara ry'ikivuvu ndetse hari ikirere cyiza cyane cy'ubururu.

Amaguru y'umuntu uwo muntu bakaba bari kumupfuka hepfo ahagana ku gatsinsino, bigaragara ko yavunitse, mu by'ukuri ni byiza igihe wavunitse kwegera abaganga bakagufasha.

Ibiganza bya muganga bifashe ku ivi ry'umuntu ubona ko ari igitsina gabo, uwo muntu akaba yavunikiye mu myitozo ngororamubiri cyangwa se siporo. Akaba yaje kwa muganga ngo bamuvure cyangwa se bamuhe imiti.

Umuntu w'igitsina gabo ari gukora siporo, yambaye agapira k'umuhondo gafite amagambo ashushanyije imbere mu gatuza ari mu ibara ry'umutuku, uwo mugabo akaba yamanuye amaboko ye ayakoza ku kuguru kurambuye ndetse akaba yicaye.

Umugabo cyangwa se umusore ari gukora siporo ngororamubiri, arananiwe, amaze kunanirwa arahagarara, yinywera amazi meza ari mu gacupa ka purasitike, ni byiza kunywa amazi igihe cyose wakoresheje imbaraga zikomeye cyangwa nyinshi.

Gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, ni ibintu byiza cyane bidufasha ndetse bikaba bifasha umubiri wa muntu kugira ubuzima bwiza. Ariko mu by'ukuri tugomba kwifashisha n'imwe mu miti igiye itandukanye kugira ngo tugabanye ububabare n'uburibwe.

Umukobwa wicaye warambuye ukuguru, ukundi guhinnye, wambaye inkweto nziza zifunze, ziri mu ibara rya move, ndetse ubona yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Amacupa atatu yegeranye ndetse afatanyije yose yanditseho ibyapa birimo amagambo y'Icyongereza asa. Ndetse hakaba handitseho amagambo y'Icyongereza agaragaza ko umuti urimo uvura ububabare.

Umugabo wasobekeranyije amaboko akaba yibereye mu myitozo ngororamubiri, arimo arazamura amaboko agenda ayamanura ndetse ayagonganisha, ibi ngibi bikaba bimufasha kurambura imitsi ndetse n'ingingo zigiye zitandukanye.

Umuntu ari kunywa amazi. Ayo mazi ni meza cyane, ni amazi y'urugogobogo ari mu gacupa. Ndetse bikaba bigaragara ko yakoraga imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo. Ni byiza cyane kunywa amazi by'umwihariko meza, igihe cyose umaze gukora siporo.

Umugabo w'umuzungu akaba ari kugendera mu bintu by'ibyuma bibiri bifite amapine ndetse bikaba biri kumufasha kugenda kubera ko yavunitse ukuguru.

Umuntu bigaragara ko ari umuganga, arimo gupfuka undi muntu bigaragara ko ari uwakoraga imyitozo ngororamubiri cyangwa siporo zigiye zitandukanye, hanyuma akagira ikibazo ku kaguru ke.

Amazi meza cyane y'urubogobogo ari mu kirahure cyiza cyane ndetse ari guturuka mu ibirika, afashwe n'ikiganza kiri kuyasuka muri icyo kirahure.

Umugozi w'abaganga wifashishwa mu gupima abarwayi kugira ngo barebe uko umutima wabo utera cyangwa se uko ubuzima bwabo buhagaze, ukaba ari umugozi ukunze kuba wambawe mu ijosi n'abaganga.

Kwa muganga hakoreshwa ibikoresho bigiye bitandukanye mu kuvura abarwayi, buri murwayi wese bamuvura bakoresheje igikoresho kijyanye n'uburwayi afite, urugero niba wavunitse bazakoresha bande bakuzirike.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane kandi irafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko bituma umubiri wacu ukora neza ndetse n'ubwonko bugatekereza neza, ariko tugomba gukora imyitozo igiye iyitandukanye by'umwihariko tukaba dufite n'abaganga badufasha.

Ikibabi cy'umusave gitoshye cyane gisa ibara ry'ubururu ndetse kikaba kiri ahantu mu mifatangwe myinshi cyane ariko kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibimera bigiye bitandukanye biri mu mafoto agiye ariho inyuguti zigaragaza ubwoko bwabyo, ibyo bimera byose byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Isekuru irimo ibyatsi bigaragara ko byasekuwe, ikaba iteretse ku nkoko, iyo nkoko nayo ikaba iriho ibindi byatsi bitarasekurwa, ndetse inyuma y'agasekuru harambitse ikintu kimeze nk'icupa ry'icyuma ririmo umuti wamaze gutunganywa.

Umuti witwa Shampo, ni umuti ukomoka ku kimera by'umwihariko kizwi nk'igikakarubamba. Ukaba ari umuti watunganyijwe ugashyirwa mu gacupa, ukaba wifashishwa mu buryo bugiye butandukanye.

Igikarito kinini ifite ibara ry'umweru, kikaba cyanditseho amagambo ariko ayo magambo yanditse ahantu hari ibara ry'ubururu, ayo magambo yo yanditswe mu ibara ry'umweru, iki gikarito gifungiyemo imiti ya gakondo.

Amacupa atatu ashushanyijeho igikakarubamba, munsi yayo hari andi atatu, nayo ashushanyije igikakarubamba, mu by'ukuri ibi bigaragaza ko ari imiti irimo muri ayo macupa ariko ikomoka kuri iki kimera cyitwa igikakarubanda, yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa atatu, abiri areshya n'ibindi rimwe rigufi, yose arimo imiti ya gakondo. Ubona ko handitseho amagambo y'icyongereza, ayo magambo yanditswe mu mabara atandukanye kuri buri cupa, ndetse ubona ko aya magambo yose asobanura ikigo gikora iyi imiti. Iyo miti yose yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Avoka isatuye ndetse bigaragara ko iryoshye bitewe n'ukuntu isa, ikaba na yo iri kugaragazwa nkaho yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Akavido k'ane karimo umuti wa gakondo, uwo muti ukaba ari umuti uvura indwara zigiye zitandukanye, uri muri aka kavido ufunze neza kugira ngo utangirika.

Umusave ni ikimera gikunze kuboneka ahantu henshi mu mashyamba kikaba kifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, cyangwa se kikaba gikoreshwa mu bundi buryo, nko kuba cyaba ubwatsi bw'amatungo.

Ifoto y'umuntu ishushanyije ku kintu ubona ko kiriho n' amacupa agerekeranyije. Munsi y'uwo muntu hakaba handitse amagambo, ndi umujyanama wawe mu buzima n'imirire.

Bimwe mu bihingwa tuzi twese byifashishwa mu gukora umuti wa gakondo, twavuga indimu, amacunga, tangawizi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Waba ubizi se?

Icyatsi gitoshye ubona ko gifite amababi meza, kiri kurasirwaho n'izuba, kikaba gifite utuntu tw'utubuto tweze ubanza ari cya kindi twita amapera. Iki ngiki kigira uruhare mu kuvura indwara zitandukanye hifashishijwe uburyo gakondo.

Ikimera gifite amababi ubona ko ari amababi ya avoka niba ntibeshye, ariko ntabwo nakibeshya kuko nzi ubwenge, ndareba kandi ndabona, mu by'ukuri bari kutwereka ko aya mababi yakwifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umuti ukoreshwa ku ruhu ni umuti uri mu gacupa ariko bari kutwereka n'ibintu hepfo bimeze nk'ibitunguru bisatuye, bigaragaza ko umutu urimo ari umuti watunganiyijwe mu buryo bwa gakondo kandi ukaba ari umuti ukomoka ku bintu by'ibihingwa cyangwa ibimera.

Ibimera bigiye bitandukanye byahurijwe hamwe harimo iby'amababi, iby'amashami iby'indabo, ibyumye, ibibisi, n'ibindi bindi bigiye bitandukanye hari ibiri mu isekuru bagiye gusekura hari ibiri mu dutebo bamaze gusekura n'ibyo banitse byo bizifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, abenshi bakunze kwita imiti ya gakondo, ni ibimera byiza ndetse biboneka mu bihuru no mu mashyamba.

Amacupa menshi cyane ndetse n'ibirahure byose biteretse mu kintu kimeze nk'icyesi, ubona ko icyo gikoze mu biti ndetse ayo macupa yose n'ibyo birahure harimo imiti ya gakondo ikomoka ku bimera bigiye bitandukanye, yifashishwa mu buvuzi bwa Kinyarwanda.

Abantu benshi bahetse udukapu biganjemo abagabo, bakaba bari kwerekeza mu misozi ndetse iyo misozi akaba ari imisozi y'ibihuru byinshi. Imbere yabo hari umugezi ushoka. Bagiye gushaka imiti ya gakondo ikomoka ku bimera.

Umusambi cyangwa umuce uboshye neza, harambitseho ibintu bigiye bitandukanye harimo imizi y'ibiti, ibimera byumye, ibintu bimeze nk'amafu byose bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibimera bigiye bitandukanye, biba hirya no hino. Byifashishwa mu buvuzi gakondo. Ariko igitangaje, biragoye kubibona. Kubera ko nta hantu hihariye biboneka. Bisaba kujya mu mashyamba, mu bihuru, ndetse no mu mibande y'imigezi. Kugira ngo ube wabibona. Kandi nyamara ubuvuzi gakondo ni ingenzi cyane.

Ibimera biri mu mabara meza cyane y'ubururu, ubona ko bitoshye ariko ndababeshye ntabwo ari ubururu ahubwo ni icyatsi kibisi, mu by'ukuri ni ibimera byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amacupa agiye atandukanye n'utuvido twinshi ndetse n'ibikarito biteretse ahantu ndetse bigaragara ko inyuma yaho hari ikintu cy'igitambaro gikingirije, ibyo byose bikaba birimo imiti ya gakondo.

Icupa ryiza cyane riteye mu buryo bwiza rikaba ryanditseho amagambo y'Icyongereza, ariko rikaba ripfundikijwe umupfundikizo w'ubururu, riteye nka ya yandi washyiramo ngufu cyangwa ibinyobwa by'ibyuma, ariko ryo ririmo umuti wa gakondo.

Umuravumba ikimera kizwiho kuvura indwara zigiye zitandukanye, haba indwara zo ku ruhu, izo mu nda, Ibicurane, Amibe ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye.

Ifoto iriho ibintu bigiye bitandukanye by'ibimera, biri ahantu mu gihuru. Mu by'ukuri bigaragara ko ari ahantu umuntu ashobora kujya gusoroma imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Icupa ripfundikiye neza rirerire rya pasitike rishushanyijeho igikarubamba, n'utundi tuntu tw'imbuto hakaba handitseho n'amagambo y'icyongereza agaragaza ko ari umuti wa gakondo ukomoka kuri ibyo bimera twavuze haruguru.

Amacupa abiri y'umuhondo ashushanyijeho igikakarugamba, yegeranye n'ibikarito ndetse n'ikindi kintu kimeze nk'igikombe kizamuye, yose harimo imiti ya kinyarwanda cyangwa se imiti ya gakondo.

Ubuvuzi gakondo bumaze gutera imbere ku buryo usanga bafata ibyatsi cyangwa se ibindi bintu bakoramo imiti, bakabitunganya neza barangiza bakabibika mu macupa mu bikarito cyangwa n'ahandi hanhanagiye hatandukanye.

Abantu benshi cyane bari ahantu mumurima, uwo murima uhinzemo ibintu by'ibimera bimeze nk'ibikakarubamba, muby'ukuri urabona ko ari ahantu mu kabande, kuko imbere yabo hari umusozi ariko hari n'imodoka iparitse, ubona ko yaje gusarura iki gihingwa, cyifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umuntu ufite ikintu kimeze nk'igitebo kirambitsemo ibyatsi ndetse n'imizi y'ibiti, bigaragara ko ari gutunganya imiti ya gakondo.

Amafoto agiye atandukanye, ifoto ya mbere irimo ikimera cyiza gitoshye, iya kabiri irimo imbuto izindi nazo zigiye zirimo ibimera bitoshye bifite ibara ry'ubururu, bikaba byose byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibinini bishushanyije biri mu kintu kimeze nk'igishashi bipfunyitsemo, ndetse hakaba hari n'ikarito nini iteretse iruhande rw'ibyo binini, bigaragara ko na yo ibitse ibindi binini nk'ibyo, mu by'ukuri ibyo byose bikomoka ku bimera, byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru bisa nk'aho ari umuganga, imbere ye ku meza hateretse amacupa abiri ndetse ayo macupa abiri ariho utuntu hejuru tw'umutuku, uwo mugabo na we ari kureba mu kandi kantu k'akarahure gatoya.

Igikakarubamba kiratangaje cyane, kuko iki kimera kivamo imiti itandukanye. Kivamo amavuta yo kwisiga, kivamo umuti wo kunywa, kivamo umuti ukoreshwa mu gusukura amenyo. Urumva ko gikwiye kubungwaabungwa.

Umuntu bigaragara ko ari umuganga wifashisha ibimera, mbese ukora ubuvuzi bwa gakondo, afite ikimera kimeze nk'umuhati mu ntoki ari kukitwereka.

Mu by'ukuri ubuvuzi bwa gakondo ni ubuvuzi bugira uruhare cyane mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse harimo n'amarozi, nyamara kwa muganga usanga bigoye ko bavura bene izi ndwara.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kubika imiti ya kinyarwanda, ni ibikoresho ubona ko bibika iyi imiti neza kandi iyo miti nayo iba yaratunganyijwe muburyo bwiza cyane kuburyo usanga rimwe na rimwe nta kintu cyapfa kuyangiza.

Icupa rinini ryanditseho umuravumba, ubonako ririmo umuti w'ifu, ukaba ari umuti wakomotse kuri icyo kimera kitwa umuravumba, ukaba uvura indwara nyinshi zitandukanye, zirimo n'izo mu nda n'izo ku ruhu.

Imiti ya gakondo ifasha mu buvuzi bugiye butandukanye. Twavuga nk'indwara z'amarozi cyangwa se n'izindi ndwara zigiye zitandukana. Turabona umuntu uri gusekura ibintu byinshi yagiye akusanya. Ibyinshi ni ibimera byumye n'imizi n'ibiti, akaba agiye kubyifashisha mu kuvura.

Umuravumba ni kimwe mu bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo, uyu muravumba nta hantu na hamwe uhingwa by'umwihariko, ahubwo usanga ari ukujya kuwushaka mu bihuru cyangwa se mu mashyamba.

Igikakarubamba gishushanyije, iruhande rwacyo hateretse agacupa kazamuye, ubona ko harimo umuti ukomoka kuri icyo gikakarubamba. Kandi byose bikaba ari ibyifashishwa mu buvuzi gakondo. Ubuvuzi gakondo burafasha, buravura kandi buvura indwara zitandukanye.

Umuravumba ni ikimera kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye hifashishijwe cyangwa se hakoreshejwe uburyo bwa gakondo, aho umuntu akivuguta cyangwa se agafata amababi yayo akayasekura, akayakoresha mu buryo butandukanye.

Amafoto ane, ifoto ya mbere iriho ikimena gitoshye ndetse ubona ko kikiri kuzamuka kitarakura neza. Ifoto ya kabiri iriho ikimera ubona ko nacyo gitoshye ariko kidatoshye cyane nka kimwe cya mbere, cyo kandi ubona ko gisa nk'aho cyakuze, gifite amababi meza. Hari n'ayandi mafoto abiri ariho ibiribwa.

Agacupa karimo umuti wa kinyarwanda ukaba ari umuti usa nkaho ukomoka ku bintu by'imbuto bishushanyije, biteretse kuri iyo sahani uwo muti nawo uteretseho.

Igishushanyo cy'ibikarito bibiri. Kimwe kikaba gifite amagambo yanditseho F, cumi na gatanu, imbere yacyo hateretse amacupa abiri y'umuhondo, arimo imiti ya gakondo.

Agacupa k'umweru gapfundikije umupfundikizo w'umweru, inyuma hari imbuto z'umuhondo, bigaragara ko izo mbuto zikorwamo umuti uri muri ako gacupa, ndetse byose bikaba biteretse ku isahani nziza cyane. Ni imiti ya gakondo.

Ikimera cy'umuravumba ni ikimera kibereye ahantu ubona ko wagira ngo ni umuntu wagiteye, ubusanzwe nta muntu uhinga umuravumba ariko umurava ugira uruhare mu ku kuvura indwara zitandukanye, zaba iz'uruhu, izo mu nda, inkorora ndetse n'izindi zitandukanye.

Icyatsi cy'umusave ni ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo mu by'ukuri iki cyatsi ntabwo gikunze kuboneka ahantu aho ariho hose, gusa byaba byiza ibimera nk'ibi ngibi bisigasiwe, bigahingwa nk'ahantu runaka ku buryo igihe umuvuzi gakondo abikeneye abasha kubibona.

Amacupa y'umuhondo maremare ubona ko apfundikijwe umupfundikizo w'umutuku, iruhande rwayo imbere hakaba hari igikarito ndetse ku rundi ruhande hakaba hari icupa, iburyo n'ibumoso rimwe rimwe, ubona ko harimo imiti ya gakondo.

Icupa ry'umutuku rirerire rifite amagambo yanditse ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse akaba yandikishijwe mu ibara ry'umweru. iryo cupa ririmo umuti wa gakondo.

Ukuboko gufasha ikimera icyo kimera ni ikimera cy'umusave, kikaba kiri ahantu ubona ko kiri cyonyine n'ubwo hari n'ibindi byatsi bitoya bimeze nk'urucaca ariko ibi byose bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ubuvuzi bwa gakondo burafasha cyane.

Agahini, urusyo, ibitebo, udukono, imineke, ibibabi, pome, amacunga n'ikindi kimeze nk'ururabo, ibyo byose ni ibyifashishwa igihe hatunganywa umuti wa gakondo.

Ibimera bitandukanye byifashishwa bikurwamo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Hano baratwereka amakoma arambitseho amacunga, amapera, imizi y'ibiti n'ibindi bimera byumye bitandukanye, n'ibihingwa bigiye bitandukanye.

Ibikarito bitatu byose byanditseho amagambo, ayo magambo akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse yandikishijwe mu mabara atandukanye. Ibyo bikarito byose bikaba bipfunyitsemo umuti wa gakondo.

Igikakarubamba kifashishwa mu buvuzi gakondo, kigira imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye, kivamo amavuta yaba ayo ku ruhu cyangwa se n'ahandi hantu ndetse kikavamo n'imiti yo kunywa cyangwa iyo kwisiga.

Akabido bigaragara ko ari akavido k'ane. Gapfundikijwe umupfundikizo utukura, ndetse munsi yako hari amagambo y'icyongereza yanditse mu ibara ry'umukara n'ayandi menshi cyane. Bigaragara ko harimo umuti wa gakondo ukomoka ku bimera cyangwa ku bihingwa.

Amacupa asa yose ari mu bwoko bumwe bigaragara ko yanditseho n'amagambo amwe abitswe muri etager ifite uduparite tune ndetse yose akaba abitse imiti ya gakondo.

Ikimera kirandaranda hasi gifite amababi ameze nk'ay'amashyo, gifite n'uturabo twiza tw'iroze , ubona ko ari ikimera gishobora kuba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, kuko ubuvuzi gakondo bukunze kwifashisha ibimera bidasanzwe nk'ibi.

Inama ku bantu bashaka kuzihabwa, ndetse bakaba bakoresha uburyo bwa gakondo bivura, ndetse ubu buryo bukaba buzwi cyane bukoreshwa muri Afurika.

Umuti gakondo. Ukaba ari umuti uri kwamamazwa, ubona ko uri mu icupa ryiza cyane ripfundikijwe umupfundikizo w'umweru ndetse hari n'amagambo yanditse, ubona ko avuga ngo igisubizo ku muryango. Uwo muti uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gikorwa cy'abashakanye n'ibindi byinshi.

Ikimera gifite amababi afite ukuntu ameze , kikaba kizamuye hejuru mu kirere, kikaba gifite n'uturabyo hejuru, hari umuntu uri gusaroma amababi yacyo, bigaragara ko ari igiti cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Icupa ry'umweru ririho icyapa kiri mu magambo y'ubururu ndetse n'andi yanditse ahantu h'umweru, hashushanyijeho agasimba kameze nk'uruyuki, hakaba harimo umuti wa gakondo.

Ibimera biri mu moko atandukanye kandi buri kimera hashushanyijeho inyuguti iri mu mabara y'umukara igiye igaragaza uburyo ibyo bimera bikurikirana, harimo ibyumye, ibibisi ndetse hari n'ibindi bimeze nk'imbuto cyangwa imizi y'ibiti, byose byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Biragaragara ko hano hari umuntu uri gucuruza imiti ya gakondo, aho yayiteretse mu kimeze nk'akabati kakaba ari akayetajeri kagizwe n'ibice bibiri, igice cyo hasi n'icyo hejuru hose hakaba hateretsemo imiti ndetse no hejuru hateretseho iyindi.

Igishushanyo gishushanyijeho amacupa abiri y'umweru ayo macupa rimwe ryanditseho amagambo rishushanyijeho n'ikimera cy'igikakarubamba, ashushanyijeho n'akantu k'agasimba hejuru, ikindi gicupa kizamuye gishushanyijeho ibintu by'ibimera by'umuhondo aka gasimba nako kariho hirya hari abantu imitwe y'abantu.

Icupa ry'umweru, ni icupa ryiza cyane, ubonako ryanditseho amagambo y'icyongereza agaragaza ikigo gikora uyu muti, ashushanyijeho n'udusimba, bigaragaza icyo uwo muti ukorwamo, gusa ni umuti uvura indwara zitandukanye.

Amafoto agera muri atandatu, abiri abiri agiye ateganye imwe munsi y'indi. Yose ni amafoto y'ibimera kandi ibyo bimera bikaba bifite amabara atandukanye harimo ibara ritukura, ibara ry'iroza, ibara ry'umuhondo, ibara ry'icyatsi cyumye.

Urusobe rw'imiti igiye itandukanye, ifunze mu makarito mu ducupa, ndetse no mu bindi bikoresho bitandukanye. Iyo yose ni imiti ya gakondo cyangwa se, yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Amacupa, ibikarito, amajerekani ubona ko bisa neza ndetse bikaba birimo imiti ya gakondo, iyo miti yose ikaba yaratunganyijwe n'abaganga bakora ubwo buvuzi.

Agacupa gatoya kagufiya k'umweru, kanditsemo ijambo ry'icyongereza ndetse hakaba hashushanyijeho akantu k'agasimba. Mu by'ukuri, iryo cupa rifunze neza kandi ririmo umuti wa gakondo cyangwa se wa kinyarwanda.

Abantu benshi ariko batari benshi cyane, bari ahantu bigaragara ko ari ku musozi, hateye ibimera by'ibikakarubamba ndetse inyuma yabo hirya hakaba hari ishyamba n'ibyatsi.

Amacupa maremare abiri, ari mu ibara risa icyatsi kibisi n'irindi rigufiya rifite ibara ry'iroze hasi ariko hejuru rikaba ripfundikijwe umupfundikizo w'umweru munini, ryegeranye n'ayandi ane, harimo abiri y'ubururu ndetse n'abiri y'umweru, harimo imiti ya gakondo.

Ikibabi cy'ibimera biboneka mu ishyamba, kikaba kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ariko hakoreshejwe uburyo gakondo.

Icyatsi kiza cyane kitwa inyarabasanya, kifashishwa mu buvuzi gakondo, kikaba gikunze kuboneka ahantu henshi hagiye hatandukanye, mu by'ukuri gikwiye gusigasirwa.

Pikiniyeri ni ahantu habugenewe bagemeka cyangwa se bahumbika imbuto kugira ngo zikure hanyuma zizaterwe, aha ngaha rero hahumbitse ibimera bizifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Umuganga bigaragara ko ari umuganga wa gakondo, yambayetaburiya, yambaye agapfukamunwa, ndetse yambaye n'akantu mu mutwe bigaragara ko yigize nk'umuganga usanzwe, ari gukora mu miti igiye itandukanye, iri mu makarito n'iri mu ducupa.

Isekuru irimo gusekurwamo ibyatsi, ibyo byatsi bikaba bifite ibara ubona ko rijya gusa icyatsi cyumye n'utundi tubara twenda gusa umuhondo, hakaba hari n'ibindi byatsi birambitse ku kintu kimeze nk'umudaho cyangwa se imbehe ya kera.

Ikimera kirandaranda hasi gifite amababi meza ameze nk'ayo amashu, ariko kikaba gifite n'uturabo tw'iroze, mu by'ukuri iki kimera ni cyiza cyane kuko cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo bugiye butandukanye.

Ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iki kimera kiratoshye ni cyiza cyane ndetse ubona ko kitaweho cyavomewe kigakura, mu by'ukuri ni byiza gusigasira urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye kuko byifashishwa mu buvuzi.